Itsinda ry'abagabo n'abagore bahuriye hamwe, aho bari kuganira ku byerekeranye n'ubuzima bw'umwana n'uburyo yakitabwaho kugeza akuze akabaho neza.

Inama ihuriza hamwe ibihugu by'abirabura muri bibiri na makumyabiri na kane ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa kane, ivuga ku byerekeranye n'ubuzima bw'abaturage muri rusange.

Urubyiruko rugizwe n'abakobwa bane ndetse n'umuhungu umwe bose bishimye bari kwifotoreza ku kirangantego cy'urwego rw'Isi rushinzwe kwita ku bana.

Umugore wambaye umupira usa ubururu ndetse afite n'ikarita iranga ibyo akora, ari guhereza abantu ibinyamakuru kugira ngo basome.

Inama irimo abagore n'abagabo bicaye hamwe, imbere yabo hari umuyobozi uri kugira icyo ababwira, bagirana inama kugira ngo bagire imwe mu myanzuro bafata ikwiriye.

Ihuriro ry'abana bato mo hagati harimo n'ababahagarariye, bakikije ivomero rusange harimo bamwe bateze ibiganza aho amazi ari guturuka kugira ngo biyoze imyanda yabagiyeho.

Umugabo wunamye uri koza intoki ze yifashishije kandagira ukarabe ikozwe mu buryo bw'ibiti agira ngo yikureho imyanda yamugiyeho.

Icyumba kirimo abaganga bagera kuri batatu, bicaye hasi barambuye ibitabo byabo bari kwandika imyirondoro ndetse n'amwe mu makuru y'ibanze y'abaje babagana baje kwivuza.

Umugore ukikijwe n'abana hari umwe wicaye mu ibasi ariko kumwoza umubiri wose, amukorera isuku kugira ngo arusheho gusa neza, arusheho kugira ubuzima bwiza amere neza.

Umwana mutoya uri munsi y'imyaka icumi, afite isabune, ariko koza intoki ze, imbere ye hari umuntu ufite agakoresho karimo amazi, ari kumusukira ngo yoge.

Inama yitabiriwe n'imbaga y'abantu imbere yabo hari abantu batandatu, harimo abagabo batanu n'umugore umwe bari kwiga ku bijyanye n'iby'ubuzima.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore, harimo ameza ndetse n'intebe n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa ndetse n'ibyongera amajwi.

Abaganga babiri bari baje begereye abaturage kugira ngo babasuzume ubuzima bwabo bwo mu kanwa, babahe n'ubundi bufasha ku byerekeranye n'ubuzima bwabo.

Umuganga yambaye imyenda yabugenewe y'ubwirinzi, harimo agapfukamunwa n'uturindantoki, afashe ku rutugu rw'umusaza, inyuma ye hari umwana mutoya.

Umutegarugori uri mu cyumba ari hamwe n'abaganga, aho yicaye ku kuboko kwe kw'iburyo bamwambitse ikintu gifite ibara ry'umukara, yagushyize ku meza, iruhande hari mudasobwa ngo barebe ikibazo afite.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo, bambaye imyenda yabugenewe, isa ubururu, ndetse n'akantu karanga ibyo bakora kari mu ijosi, imbere hari umugabo w'umuzungu, wambaye ikote.

Itsinda ry'abana benshi bakiri batoya bicaye mu ishusho y'uruziga, aho bose barambuye amaguru ya bo kandi bambaye imipira ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuzungu w'umukobwa wicaye hagati bari gufatanya mu gikorwa barimo.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bose bahuriye hamwe ku meza amwe, bari kuganira ku ngingo zitandukanye, imbere yabo hari icyuma cy'ikoranabuhanga kigaragaza amashusho.

Icyumba kirimo abategarugori bagera kuri bane, bose bicaye bategereje ubufasha bagiye guhabwa, hejuru yabo hari ahamanitse ibipapuro biriho amashusho menshi agaragaza ibikorerwa aho hantu.

Itsinda ry'abana batoya b'abirabura, bambaye impuzankano zisa umuhondo hejuru, bahagaze imbere y'inzu ku muryango wayo hahagaze umugabo w'umuzungu n'abandi bategarugori babiri.

Icyumba kirimo ababyeyi benshi, imbere hahagaze umugore uteruye umwana ndetse n'ifishi ye bisa nkaho baje kwa muganga kwivuza.

Umuhanzi w'umusore wo bita Israel Mbonyi uririmba indirimbo z'Imana, ateruye akana kakiri gatoya, kari ku munzani bari kugapima ibiro ngo barebe uko kameze.

Abana batoya bagera kuri bane, bari hafi y'ivomero rusange, bazanye ibivomesho byabo, undi mukobwa ari inyuma ari kumanura anazamura icyuma cyabugenewe ngo amazi aze.

Umubyeyi w'umutegarugori wambaye imyenda ikozwe mu gitenge, ateruye akana gatoya k'agahungu ndetse afite n'igipapuro cyanditseho amagambo, inyuma ye hari abandi babyeyi benshi baje kwaka ubufasha mu byerekeranye n'ubuvuzi.

Umubyeyi wicaye ateruye umwana we yamushyize ku bibero, imbere ye hari umutegarugori w'umuganga uri kumufasha gutanga umuti kugira ngo uruhinja rukire.

Itsinda ry'abayobozi bo mu nzego zitandukanye bahuriye hamwe bari kuganira ku byerekeranye n'ubuzima, Bahagaze ku murongo umwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umubyeyi w'umugore wambaye agapfukamunwa, aho yunamye ari koza umwana we mutoya w'umuhungu intoki n'isabune ndetse n'amazi meza amukuraho imyanda.

Umugabo uhagaze imbere ku gatuti, ari kuganiriza abari bamuri imbere ibyerekeranye n'uburyo bakongera ibikoresho n'amafaranga mu byerekeranye n'ubuvuzi.

Umwana ukiri muto bigaragara ko ari munsi y'imyaka itanu, afashwe n'umubyeyi we, ari guterwa urushinge mu kuboko kwe kw'ibumoso kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umutegarugori uhetse umwana, imbere ye hari ivomero rusange, aho afite umufuniko mu ntoki ari koza akoresheje isabune n'amazi ndetse n'icyangwe kugira ngo akure imyanda iriho.

Umuganga wambaye umwenda wabugenewe w'umweru, ari gutera urushinge umwana ukiri mutoya uteruwe n'umubyeyi we umubyara kugira ngo bamukize indwara arwaye.

Ababyeyi b'abamama, n'abandi b'abapapa bahuriye hamwe mu gikorwa cyo kuza, kumva inyigisho z'uburyo bagira ubuzima bwiza, bose hamwe muri rusange.

Inama yahuje abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda, bicaye hamwe, imbere yabo hari umuganga ufite indangururamajwi ari kubaganiriza ku byerekeranye n'ubuzima n'uburyo bakwita ku mibereho yabo bakirinda indwara.

Igishushanyo mbonera kigaragaza icyuho kiri hagati y'abakire n'abakene mu guhabwa ubufasha bwerekeranye n'ibyerekeye ubuvuzi, aho muri bibiri na rimwe kugeza bibiri na cumi abakene bari kuri mirongo ine nicyenda, abakire bari kuri mirongo itandatu n'umunani.

Itsinda ry'abaganga ririmo abakobwa n'abasore bakiri batoya, inyuma yabo hari igipapuro cyanditseho amagambo ari mu cyongereza.

Ihuriro ry'abagabo n'abagore, bamwe muri bo bambaye amakote, bahuriye ku meza, aho hari abaganga bari kugenda babasobanurira uko batanga ubufasha mu bijyanye n'ubuvuzi.

Imeza yicaweho n'abantu bagera kuri bane harimo abagore babiri n'abagabo babiri, umugabo uhera ku ruhande rw'iburyo akaba afite mudasobwa imuri imbere ye n'uducupa tw'amazi turi imbere yabo bose.

Umukecuru uri ahantu mu giturage, wikoreye indobo imwe isa umutuku ku mutwe we, indi isa umuhondo ayifite mu ntoki, ari gutambuka asa n'uremerewe.

Ihuriro ry'abagabo n'abagore ndetse harimo na bamwe basa nk'aho bakuze cyane, bafite udutege dutoya, bahuriye hamwe bari kugira ibyo baganiraho.

Umugore ufite ikivomesho agiteze ku mugezi amazi ari kumanuka ajyamo, iruhande rwe hari abana babiri bakiri batoya bareba uko bigenda.

Ivomero rusange rikikijwe n'abagore, aho babiri bari gufatanya kumanura banazamura kugira ngo amazi amanuke, undi afite indobo ari kudaha.

Ivomero rusange imbere hari abana batoya bazanye utuvomesho twabo, inyuma hari umukobwa uri kumanura anazamura icyuma ngo amazi aze.

Umuganga uri kumwe n'umuturage waje amugana aje kwisuzumisha zimwe mu ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina, kugira ngo kandi bafatanyirize hamwe mu kurandura izo ndwara.

Abategarugori bari mu cyumba kimwe aho bari kubyina bazamuye amaboko yabo bari gucinya umudiho bisa nk'aho banezerewe kandi bari kwishimisha.

Umwana ukiri muto wari ufite ibibazo by'umubiri, ari gusuzumwa n'umugabo n'umugore, bambaye imyenda yabugenewe, inyuma yabo hicaye umubyeyi.

Abategarugori bahuriye hamwe ku ivomero rusange aho batonze umurongo w'ibivomesho byabo kugira ngo bahabwe amazi bayajyane bayakoreshe.

Umusore w'umuhanzi bita Israel Mbonyi aho ari kumwe n'ababyeyi bateruye abana bakiri batoya muri gahunda zo kugaburira abana no kwita ku buzima bw'abana.

Itsinda ry'urubyiruko riri hamwe aho harimo abahungu bane n'umukobwa umwe, imbere yaho hari imiti ndetse bambaye n'ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga kugira ngo batange ubufasha.

Icyumba kirimo udukoresho umurwayi yicaraho yegamye mu buryo bwiza mu gihe bari kumusuzuma ngo barebe ikibazo afite, bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga biri muri icyo cyumba.

Inama irimo abayobozi bo mu buryo butandukanye, bicaye imbere y'abantu, ku murongo umwe, inyuma yabo hari igipapuro kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, bivuga ku bijyanye n'ubuzima.

Umutegarugori wishimye uri gukaraba intoki ze kugira ngo agire isuku yifashishije kandagira ukarabe ikozwe mu biti kandi imeze neza.

Umwe mu bayobozi mu gihugu cy'u Rwanda ari kumwe n'umufatanyabikorwa w'umuzungu, bari gushishikariza abantu gusura u Rwanda binyuze mu mikino ya siporo.

Abana bakiri bato bambaye impuzankano bafashe ibipapuro bigaragaza ibyerekeranye n' amahugurwa bahawe iruhande hari umurezi ubahagarariye ari kubafasha.

Inama yahuje abaturage n'abayobozi yabereye i Kigali ku itariki makumyabiri z'ukwakenda bibiri na makumyabiri na kane, iyobowe n'abagabo babiri kugira ngo barwanye icyorezo cyari cyateye igihugu.

Inama irimo abagabo n'abagore, bicaye n'umuyobozi ufite indangururamajwi, uri kugira icyo ababwira bavuga ku byerekeranye n'ubuzima bw'abana kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'ubururu n'ingofero y'ubururu, ari gufasha umwana kumwikoreza ikibuganizo kirimo amazi, imbere ye hari umukobwa uri gufata amashusho, inyuma y'uwo mwana hari undi mugabo n'abandi bantu benshi inyuma ye.

Itsinda ry'abagabo ndetse nabategarugori bose bafite impapuro zo kwandikaho, aho bakurikiye neza ibyo bari kubwirwa kugira ngo hatagira na kimwe kibacika.

Umuryango wo ku rwego rw'isi yose, wita ku byerekeranye n'ubuzima bw'ikiremwamuntu, ndetse no kubaho neza, kwe muri rusange, mu buzima bwe bwose.

Umwana uri ku ivomero rusange atezeho intoki ze ari gukaraba kugirango akureho imyanda iziriho kandi arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abana batatu bambaye impuzankano bahagaze imbere y'ivomero, aho bari koza intoki zabo n'isabune ndetse n'amazi meza kugira ngo birinde imyanda n'indwara.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bose bambaye udupfukamunwa, bahagaze hamwe ndetse bigaragaza ko bari bavuye mu mahugurwa y'ibijyanye no kubungabunga ubuzima bw'abaturage muri rusange.

Umuryango wo ku rwego rw'Isi wita ku bana babo ndetse n'ababyeyi, ariko ahanini ufasha impunzi ndetse n'abafite ibibazo by'umutekano muke.

Ababyeyi bahuriye hamwe, bari kwigishwa uburyo ushobora guhereza umwana imiti umufashe neza, mu buryo bwiza butagira icyo buhungabanya.

Ivomero rusange, bavoma bamanura icyuma, ndetse banakizamura, kugira ngo amazi aze, hakikijwe n'abana baje gutwara amazi, bafite ibivomesho byabo.

Akana gatoya gateruye akadomoro gasa umuhondo, gasutamye iruhande rw'ivomero rusange, iruhande hari umugabo ufite umupira w'umweru.

Abana babiri bari kumwe bicaye begeranye umwe yamanitse akaboko k'iburyo akagaragaza agatoki kamwe. Inyuma yabo hari ikibaho bandikaho mu gihe bari kwiga.

Akana k'agakobwa kambaye ikanzu, gafite imyaka iri munsi y'icumi, gacigatiye icupa ryari ririmo amazi, kari gukaraba intoki zako amazi agwa hasi.

Icyumba cyahuriyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye aho ubahagarariye uyoboye inama yicaye ku ruhande, iruhande rwe hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abana batatu bahagaze hamwe, aho barambuye intoki zabo bari gukaraba n'amazi kugira ngo bikureho imyanda, barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umutegarugori wicaye, asutamye, ateze ikivomesho cye kiri mu ibasi, ateze amazi kugira ngo akijyemo cyuzure, ayatware ayakoreshe.

Umwana ukiri mutoya uri ku ivomero rusange bavoma bapompa, ari koza ibivomesho bisa umweru kugira ngo bizajye bijyamo amazi bimeze neza.

Itsinda ry'abagore ndetse n'abagabo, harimo n'abafashamyumvire, bahuye kugira ngo baganire ku buryo bwo kurwanya, gutwara inda kw'abangavu bakiri bato.

Umubyeyi w'umutegarugori uteruye umwana we mutoya, imbere ye hari umuganga wambaye uturindantoki ndetse n'undi mwenda usa umweru wabugenewe, ari kumufasha gusuzuma ngo barebe ikibazo afite.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, bicaye bazengurutse ameza, imbere yabo bose bafite ikintu cyo kunywa, ndetse hari n'icyuma cy'ikoranabuhanga kigaragaza amashusho.

Inama igizwe n'abagore n'abagabo bari kwiga ibyerekeranye n'uburyo basakaza ibyerekeranye n'ibikorwa by'ubuvuzi mu nce nyinshi zitandukanye z'isi n'iz'igihugu.

Imiryango yo ku rwego rw'isi ikorera mu bihugu byose ihuriza hamwe kugira ngo ikiremwa muntu kirusheho kugira ubuzima bwiza kibeho neza.

Umubyeyi w'umutegarugori wicaye mu ntebe isa ubururu ateruye umwana mu ntoki ze harimo impapuro, imbere ye hari umugabo wambaye inkweto ndende zisa umweru, yicaye ku ntebe ya karambarazi ari kugira ibyo amusobanurira.

Umwana uri ku ivomero rusange witwaje ibivomesho bitatu aje gufata amazi yifashisha mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Ivomero rusange aho inyuma hari umuhungu uri kumanura ndetse anazamura ngo amazi aze, hari agakobwa gato katezeho ikivomesho cyako.

Abategarugori bagera kuri batatu, aho babiri muri bo bose bunamye hafi y'ivomero rusange, aho umwe ari gukaraba undi yateze ibiganza ari kunywa amazi, iruhande hari ibivomesho bibiri.

Inama yahuje abayobozi bo mu nzego zitandukanye kugira ngo bige ku buryo bakongera amwe mu mafaranga ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri gahunda z'ubuvuzi.

Umubyeyi wari uri ku ivomero rusange ari gufungura amazi kugira ngo avomere umwana wari umuhagaze imbere ashyire amazi iwabo.

Itsinda rigizwe n'abakozi bo kwa muganga bambaye impuzankano isa ubururu, mo hagati yabo harimo umugabo muremure ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze.

Ihuriro ry'abaganga bishimye bari gukoma amashyi, imbere yabo hahagaze umugabo w'umuzungu wambaye ikote risa umukara. Bavuga kubyerekeranye n'ubuzima.

Ihuriro ry'bagabo n'abagore mo hagati harimo umuganga wambaye ikarita yabugenewe bari ku muryango winyubako ifite amabara yubururu na icyatsi n'umweru hejuru.

Abana babiri bicaye basutamye, bateze intoki ku ivomero, hari guturukamo amazi, bari gukaraba intoki zabo kandi bishimye cyane.

Umugore wicaye ateruye umwana mutoya w'uruhinja, imbere ye hahagaze umuganga uri kumufasha kugira ngo avure umwana we ikibazo afite.

Inama yahuriyemo imbaga y'abagabo n'abagore, baje gufata ubumenyi ku byerekeranye no kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza bubake n'igihugu.

Abana bane bari bahagaze imbere, bashaka kugaragaza ibyerekeranye no kurinda umwana, kugira ngo arusheho kubaho neza kandi yishimye.

Ababyeyi bahuriye hamwe bari kumwe n'abana babo, aho baje guhabwa serivisi z'ibyerekeranye n'ubuzima, basuzumisha abana babo ndetse banabavura.

Ivomero rusange, aho abana barikikije harimo umwe ufite icyuma ari kumanura ndetse anazamura amazi akamanuka agwa mu kivomesho yazanye.

Umusore ukiri muto wari ufite isahani ari kumwe n'umubyeyi wari wazanye umwana kugira ngo bafatanyirize hamwe kumuha ibyo kurya birimo intungamubiri bimeze neza.

Abaturage bicaye hamwe imbere yabo hari icupa ry'amazi, batumbiriye umuntu wari uri kugira icyo ababwira kugira ngo hatagira ikibacika na kimwe.

Ivomero rusange aho umwana yatezeho ikivomesho cye amazi ari kumanuka, inyuma yaho hari umugabo wambaye ishati isa ubururu yunamye ari kumufungurira.

Umutegarugori wikenyeye igishura ndetse yambaye n'urunigi mu ijosi rye, inyuma ye hari abana benshi bamwegereye, harimo n'abari guseka, bishimye ku bw'igikorwa cyari kirimo kuba.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, bahuriye hamwe bicaye mu cyumba, bafite udukayi n'amakaramu, bari kwandika ibyo babwirwa, kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Umuntu uri koga intoki aho amazi ari kuva mu gakoresho kabugenewe, gasa ubururu kugira ngo isuku irusheho kunozwa kandi agire ubuzima bwiza.

Ihuriro ririmo abagore n'abagabo, imbere yabo hari abana batoya bambaye impuzankano, bari kurebana baganira ku bijyanye n'ubuzima bwiza bwabo n'imyigire.

Abagore babiri bicaye imbere y'ameza amwe, bashyizeho ibiganza byabo, bari guseka, bamwenyura, uwo ku ruhande rw'iburyo yiteze igitambaro cy'umuhondo mu mutwe.

Icyumba gihuriyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, bicaye bari kurebana, imbere yabo hari amacupa y'amazi, bari kuganira ku byerekeranye n'ubuzima n'uburyo bateza imbere abaturage.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga ukiri mutoya, ari kumusuzumisha ku mukobwa w'umuganga, akoresheje ibikoresho byabugenewe mu kureba ibibazo biri mu mubiri.

Abaturage bari hafi y'ivomero rusange, aho bari kureba umugore uri gusunika amanura kandi anazamura kugirango ngo amazi aturuke munsi mu butaka amanuke ajye mu kivomesho bazanye.

Umwana mutoya wunamye yashyize ukuboko kwe aho amazi ari kumanukir,a ari kuva mu ndobo isa umweru yari iteretse ku ntebe.

Itsinda ry'abaganga bambaye impuzankano zabugenewe, mo hagati harimo umuzungu wambaye ikanzu y'umutuku, bishimiye ubufatanye bafitanye.

Abana bakikije agakoresho kari kari kuzana amazi bagategaho ikiganza, bakayanywa kugira ngo bashire inyota kandi barusheho kugira ubuzima bwiza.

Inama ihuje abagore n'abagabo ndetse n'abayobozi bo mu ngeri zitandukanye, bari kwiga ku byerekeranye n'ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage.

Umuryango Ushinzwe Kurengera Uburenganzira ndetse no Kwita ku Buzima bw'Umubyeyi n'Umwana kuva atwite, kugeza igihe abyariye.

Imirongo ibiri y'intebe yicaye irebana, aho harimo abategarugori ndetse n'abagabo n'abana batoya bateruwe n'ababyeyi babo, aho bategereje guhabwa ubufasha mu byerekeranye n'ubuvuzi.

Itsinda ry'abaturage bambaye imipira isa umweru, aho hari abicaye ndetse hari n'abahagaze, inyuma yaho hari igipapuro gifite ibara ry'umweru, handitseho amagambo ari mu cyongereza.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'Abazungu n'Abirabura, bose bahuriye hamwe kugira ngo bongere ubukangurambaga ku byerekeranye n'ubuzima bwiza, bagire n'imyanzuro bafata iboneye ku byerekeranye no kugira ngo umuturage abeho neza.

Inshinge zigera kuri esheshatu zifunze neza, iruhande hari agacupa karimo umuti uzishyirwamo, kugira ngo bawutere umuntu akire indwara afite.

Umuganga wambaye uturindantoki, ufite urushinge mu kuboko kwe kw'iburyo, ari kurutera umurwayi, wateze urutugu rwe rw'ibumoso, kugira ngo avurwe.

Umubyeyi usa nkaho akuze, yambaye umupira w'umukara hejuru ndetse n'agapfukamunwa, ateze ukuboko kwe umuganga ari kumutera urushinge.

Umubyeyi w'umugore waje kuvoma, iruhande rwe hari umwana mutoya, ibivomesho akaba yabidubitse mu mazi y'ikiyaga, asa nabi, bigaragara ko yatera indwara z'umubiri.

Itsinda ry'abagabo bambaye amakote n'abagore bari iruhande yabo, bahagaze hamwe bari kwifotoza, inama irangiye yerekeranye n'ibyo kwita ku buzima.

Umubyeyi w'umufashamyumvire mu byerekeranye n'ubuzima, wambaye umwenda wabugenewe, ufite agakoresho kifashishwa mu gupima umuriro, imbere ye bamuzaniye umwana ngo amusuzume.

Itsinda ry'ababyeyi ndetse n'abana, aho harimo umugore wambaye umupira usa umweru ateruye akana kakiri gato, iruhande rwe hari undi ufite uducupa turimo ibisa n'imiti.

Umubyeyi uteruye umwana ukiri mutoya imbere ye hicaye umugabo uri kumushyiraho akantu gasa umweru inyuma yabo hari uwambaye imyenda isa umweru afite ibyo ari kwandika.

Umugabo usa nk'aho afite ibibazo byo mu mutwe wambaye nabi yashyizwe mu gipene cy'imodoka asa nkaho ari gukorerwa ihohoterwa.

Ihuriro ry'abana bakiri batoya bambaye impuzankano y'umupira isa umuhondo bari guseka abandi bakoma amashyi bishimiye igikorwa barimo.

Umupira usa umweru mo hagati, wanditseho amagambo inyuma ku mugongo, ari mu rurimi rw'Icyongereza, ku maboko yaho magufi, ya asa ubururu.

Itsinda ry'abana batoya bari munsi y'imyaka cumi n'irindwi babayeho mu buzima bubi, aho bamwe batambaye inkweto, abandi bambaye imyenda isa nabi.

Itsinda ry'urubyiruko rwahuriye hamwe, rwambaye imipira isa ubururu, bari kumwe n'umugabo usa nkaho ari umuyobozi wabo, wambaye ishati y'umweru ubahagaze hagati no ku ruhande umugore w'umuzungu.

Umwana muto wicaye ku ntebe imbere ye hari ameza, wambaye impuzankano y'umweru, afite akantu mu kuboko kw'iburyo kwe ari kurya ubona ko yishimiye ibyo ari gukora.

Ubukangurambaga bushingiye ku kubungabunga ibijyanye n' ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kwirinda zimwe mu mpamvu izo ari zo zose zishobora gutera ubuzima bubi bwo mu mutwe.

Umutegarugori wicaye yunamye, amaboko ye yombi n'ibiganza bifashe ku gice cy'umutwe we, asa nk'ufite agahinda, atishimye, ari kwibaza byinshi.

Umugabo w'inzobere mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe, ufite indangururamajwi ari kuvuga ku buryo abantu barushaho kubaho neza, kandi bafite ubuzima buzira umuze.

Umusore wishimye uri guseka, ari kugaragaza amenyo, wambaye umupira w'umuhondo, bigaragaza ko afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe n'umubiri wose muri rusange.

Itsinda ry'abategarugori ndetse n'abagabo bahagaze mu nyubako mo imbere, inyuma yabo hari agapapuro karekare kanditseho amagambo ari mu cyongereza.

Umugabo w'umuzungu uhagaze iruhande rw'igipapuro kiriho ibirangantego bigaragaza ko ari ibitaro by'Indera bivura abafite uburwayi cyangwa ubumuga bwo mu mutwe.

Abana batoya bicaye hamwe bari guseka cyane babumbuye iminwa bishimye harimo n'abambaye impuzankano ifite ibara ry'icyatsi.

Imbaga y'abantu irimo ababyeyi n'urubyiruko baje gufata amahugurwa yerekeranye no kwita ku buzima bwabo kugira ngo barusheho kumera neza bite no ku miryango yabo.

Ihuriro ry'abagabo n'abagore aho hari abicaye barebana ku meza, bari kubwira ababari imbere ibibazo bafite mu byerekeranye n'ubuzima, kugira ngo bavurwe kandi bahabwe ubutabazi bwihuse.

Umugabo usa nkaho akuze yari yegamye ku rukuta areba mu kirere bigaragara ko ashobora kuba afite ibibazo by'ubuzima, ahangayitse cyane, atameze neza.

Umukecuru umeze neza wambaye imyenda ikozwe mu bitenge kandi yiteze mu mutwe, abumbuye umunwa we amenyo ari kugaragara.

Umubyeyi w'umumama wicaye ku ntebe ya karambarara uri mu nzu yubakishijwe ibitaka inyuma ye hari idirishya rifunguye imbere ye hari umusambi,

Itsinda ry'urubyiruko rwambaye imipira isa ubururu n'umuzungu usa nk'aho akuze uhagaze ku ruhande n'umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvate ubari hagati, bahagaze bari kwifotoza.

Icyumba kirimo umugore waje kwaka ubufasha, aho imbere ye hari umugabo ufite igitabo ari kwandikamo agira amakuru amubaza ndetse imbere yabo hari icupa ry'amazi.

Itsinda ry'abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bahuriye hamwe bahagaze, bafite igipapuro imbere yabo kirekire, kiriho ibijyanye n'ubukangurambaga bari barimo.

Itsinda rigaragaramo abategarugori batatu ndetse n'umugabo umwe wicaye inyuma n'undi ku ruhande uri kugaragaza akaboko ke gusa, aho bari kuganira bagirana inama.

Umugabo wirabura ufite isura yijimye mumaso ye hari kuvamo amarira mumazuru afite ibimyira bigaragara ko atameze neza mu marangamutima.

Umugabo wambaye ishati isa ubururu, uhagaze imbere y'abantu ari kumwenyura mo gakeya, asa nkaho yishimye kandi afite ubuzima bwiza.

Umubyeyi w'umu mama wari uteruye umwana w'uruhinja ukiri mutoya ufite ubuzima bwiza kandi yishimiye ubuzima abayemo kuko yitaweho.

Umuntu wambaye umupira usa umukara wipfutse mu maso akoresheje intoki ze, bisa nk'aho afite ibibazo cyangwa ubwoba muri rusange.

Abategarugori bagera kuri bane, bose bicaye ku ntebe ya karambarazi, harimo umwe ufite urupapuro mu ntoki ze, imbere ye hicaye umugabo uri kwireba, ku kuguru.

Ikinyabiziga gisa umweru gifasha mu byerekeranye n'ubuvuzi kizana abaganga kwegera abaturage, kugira ngo baganire ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe banabegereze ibya ngombwa bakeneye mu kwivuza.

Umubyeyi w'umutegarugori uhagaze imbere y'igikuta cyubatswe n'amatafari, ufite agapapuro mu kuboko kwe ku iburyo kariho ikirangantego cyerekeranye no kwibuka hejuru.

Umunsi w'isi yose uba ku itariki icumi z'Ukwakenda, uba ufite insanganyamatsiko yerekeranye n'ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe n'uburyo babigabanya.

Umutegarugori wishimye uri guseka, wambaye umwenda inyuma usa umutuku n' umupira urimo imbere usa ubururu, bigaragara ko nta kibazo afite.

Umugabo wambaye umupira usa umukara, wegeranye n'umugore ufite indangururamajwi ari kuganiriza abari bicaye imbere ye kugira ngo bumve ibyo ababwira.

Itsinda ririmo abagabo n'abagore, bamwe muri bo harimo abashinzwe umutekano w'ibintu ndetse n'abantu, kugira ngo barusheho kureba ibyerekeranye n'ubuzima.

Ababyeyi babiri bose bateruye abana babo, bakiri batoya, imbere yabo hari umugore washyize amaboko ku meza, ari kugira ibyo abasobanurira.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, imbere yabo hari imeza zikozwe mu biti, bahagaze hamwe nk'abari kwifotoza kugira ngobagaragaze igikorwa bavuyemo.

Uwo ari we wese aho ariho hose umuntu afite uburenganzira bwo kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe no kwitabwaho mu buryo bwiza bukwiriye nta guhezwa buri muntu wese kandi akagira ubwigenge.

Mu mutwe mu imbere harimo ishusho y'ubwonko iri mw'ibara risa umutuku, ugaragaza imikorere yabwo n'uburyo ubuzima bwabwo buhagaze.

Umubyeyi ufite agapfukamunwa, uhetse umwana ukiri muto mu mugongo we, imbere ye hari isafuriya, ari gushigisha, iruhande rwe hahagaze akana k'agahungu, bari kureba bishimye.

Abagore bane bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umugabo wari wafashe ku kuguru kwe yazamuye umwenda wapfukaga ukuguru. Bigaragara ko afite ikibazo kuri icyo gice.

Ikirango gisa ubururu, mo hagati harimo umugabo wambaye imyenda ya kiganga bigaragaza ko batanga ubufasha ku bijyanye n'iby'ubuzima bwo mu mutwe.

Umukecuru wicaye hasi akikijwe n'abana benshi bakiri batoya, bisa nkaho bari gukurikira ibyo ababwira.

Umugabo wambaye imyenda y'inshabari yitangiriye itama bigaragara ko afite ibibazo mu mutwe ubuzima bwe butameze neza, akeneye ubufasha bwo kwa muganga.

Ikigo gikorera mu Rwanda, gishinzwe ku kwita ku buzima bw'abaturage, muri rusange, ndetse no kurwanya ihohotera, iryo ari ryo ryose.

Umutegarugori usa nkaho akuze, afite imyaka iri hejuru ya mirongo ine wari wicaye imbere yaho acururiza ibintu bye kugira ngo atere imbere.

Ihuriro ririmo abantu benshi imbere hari umugore wambaye ishati y'umweru, ufite ikaramu mu ntoki, iruhande rwe hari mudasobwa inyuma ya mudasobwa hari uducupa tw'amazi.

Umugabo uhagaze imbere y'umuntu wambaye imyenda yacikaguritse ndetse ufite imisatsi itogoshe n'ubwanwa butameze neza bigaragara ko afite ubuzima bubi bwo mu mutwe.

Umugabo w'umwirabura ufite imisatsi ijagaraye, idaheruka kozwamo ndetse n'ubwanwa budaheruka kogoshwa ndetse yafunguye agatuza n'imyenda ye idasa neza bigaragaza ko afite ibibazo byo mu mutwe.

Umugabo uri mu cyumba yambaye agapfukamunwa, imbere ye hari bimwe mu bikoresho binyuranye, hari ibyo ari gusuzuma anapima afite n'urupapuro ari kugenda yandikaho ibisubizo ari kubona.

Umugabo ufite akadodo gasa umweru agafashe mu ntoki zombi, ari kugenda akanyuza mu menyo ye, kugira ngo akuremo imyanda arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umutegarugori uryamye ku gatanda kabugenewe, akikijwe n'abaganga babiri b'abagabo, bari gusuzuma amenyo ye ndetse ngo banarebe uko ubuzima bwe bwo mu kanwa buhagaze.

Umugabo ukiri mutoya wishimye, ari guseka, afite amenyo y'urwererane bisa nkaho adafite ibibazo byo mu mutwe, ameze neza cyane.

Umugore uri kumwe n'akana ke gatoya, bose bafite agakoresho kifashishwa mu koza amenyo yabo hakurwamo imyanda kugira ngo ubuzima bwabo bwo mu kanwa bumere neza.

Umutegarugori uryamye hasi, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda yabugenewe, bari kuganira ndetse ari no kumusuzuma ikibazo afite ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse.

Umwana ukiri muto w'umuhungu uryamye hasi ku gitanda cyabugenewe, aho iruhande rwe hari umuganga wambaye uturindantoki ndetse afite n'agakoresho kabugenewe ari gukoza mu kanwa ndetse no ku menyo, ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umwana wambaye impuzankano, afite imfashanyigisho ikoze mu buryo bw'amenyo, umwarimu ari iruhande rwe ari kumusobanurira, inyuma ye hahagaze abandi bantu.

Umusore wishimye, uri guseka yabumbuye iminwa, amenyo ye ari kugaragara, imbere mu gatuza hariho ikintu gisa n'igipapuro gifashe kumyenda ye.

Umusore ufite akadodo k'umweru kareze yegereje umunwa we yifashisha mu koza amenyo, kugira ngo akure imyanda iba irimo arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Umwana muto ufite uburoso bw'amenyo ariko bukuba ku rurimi yoza amenyo ye kugira arusheho kugira ubuzima bwiza, bwo mu kanwa yirinde n'indwara zituruka ku mwanda.

Umugabo wishimiye ku kuba afite agakoresho kamufasha ku kwita ku buzima bwiza bwo mu kanwa yoza amenyo ye, asa neza urwererane.

Umugore ufite akadodo kabugenewe agafashe mu ntoki zombi ari gukuba mu menyo ye kugira ngo akuremo imyanda irimo arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Ihuriro ry'abana batoya, bambaye impuzankano, bose bafite agakoresho ko koza amenyo kariho n'umuti n'igikombe mu ntoki, mu kiganza cy'ibumoso.

Icyumba kirimo umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe imbere ye hari abaganga babiri bambaye ibikoresho byabugenewe bari kumusuzuma bareba ikibazo afite.

Umugabo wasamye amenyo ye ari kugaragara asa urwererane nta myanda irimo, bisa nkahoho afite ubuzima bwiza bwo mu kanwa ndetse n'umubiri wose muri rusange.

Abategarugori babiri bicaranye aho buri wese afite urupapuro uwo ku ruhande rw'ibumoso ari kwandika n'aho uwo ku ruhande rw'iburyo ari kutwereka ibyo yanditseho.

Abana bakiri batoya bafite agakoresho kifashishwa mu koza amenyo, bari kugaragaza uburyo bishimiye ku kwita ku buzima bwabo bw'amenyo.

Akana gatoya k'agakobwa karyamye kabumbuye umunwa, hari abaganga bafite udukoresho twabugenewe mu gusuzuma ubuzima bwo mu kanwa ndetse n'uko amenyo ahagaze.

Umukobwa n'umuhungu bambaye imipira y'umweru, bose bafite tumwe mu tudodo twifashishwa mu gukura imyanda iri mu menyo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo abantu bari bicaye bamwe bambaye imipira isa icyatsi n'abandi bambaye imipira isa umweru bari kubasuzuma mu kanwa barebe nimba ubuzima bwabo bwo mu kanwa bumeze neza.

Umusore usa nk'uwuryamye abumbuye iminwa ari kwerekana amenyo, imbere ye hari ikiganza cy'umuganga ufite akantu karekare mu ntoki kariho utuntu tw'umweru twifashishwa mu kuvura ibibazo by'amenyo.

Umuntu uryamye hasi agaramye yasamye, imbere ye hari umuganga wambaye uturindantoki ndetse ufite n'ibikoresho byabugenewe akoresha kugira ngo asuzume ubuzima bwo mu kanwa.

Ishusho isa umukara ndetse n'umweru, yerekana igikanka cy'umuntu uko amagufwa n'amenyo bigenda bihura n'uko ubuzima bwabyo buri.

Umugabo ufite akadodo kabugenewe, ari kugenda anyuza hagati y' amenyo, kugirango akuremo imyanda irimo, kandi arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa.

Igikoresho gikoranye ikoranabuhanga cyifashishwa mu gusuzuma no kuvura zimwe mu ndwara zo mu kanwa, cyane cyane iz'amenyo atameze neza.

Umugabo utanga serivisi z'ubuvuzi, yambaye umwenda wabugenewe w'umweru, yicaye ku gatebe gasa ubururu, inyuma ye hari ibindi bikoresho byinshi byifashishwa kwa muganga.

Ishusho y'igikanka ariko hagaragazwa igice cy'inzasaya zombi urwo hasi n'urwo hejuru, hariho n'amenyo bikaba byatanzwe n'icyuma cy'ikoranabuhanga kugira ngo hatangwe ubuvuzi bwiza.

Umwana mutoya wicaye hasi aho imbere ye hari abaganga babiri, bambaye imyenda yabugenewe bari kumusuzuma ubuzima bwe bwo mu kanwa ngo barebe uko buhagaze, bamuhe ubuvuzi bwizewe.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bahuriye hamwe, aho hari abambaye imipira isa icyatsi yanditseho ngo tubitayeho, bari kwigisha uko basukura mu kanwa, bifashishije agakoresho kabugenewe n'umuti w'amenyo.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga iyo bari gusuzuma umurwayi, harimo ibyuma bifata amashusho ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Icyumba gifite ibara ry'umweru hasi, hejuru ndetse no ku nkuta, mo hagati harimo intebe zigera kuri eshatu, uwaje kwaka ubufasha cyangwa n'umukozi uhakora yicaraho.

Umuganga wari uri kwita ku murwayi amuvura indwara zo mu kanwa, asuzuma niba amenyo ye nta kibazo afite, yasanga afite ikibazo akamuha imiti.

Umugabo uryamye kandi yasamye, aho umuganga afite agakoresho kabugenewe ari kumusuzuma uburyo amenyo ye ameze, irifite ikibazo akarikuramo.

Abaturage batonze umurongo, baje bagana aho urwego rw'igihugu rushinzwe ubuzima, rwari ruri gusuzuma indwara zitandukanye, abaturage bafite.

Umutegarugori wicaye mu cyumba afashe ku kananwa ke, yasamye, imbere ye, afite icyirori kugira ngo arebe uko ubuzima bwe bwo mu kanwa n'amenyo ye bisa.

Umugabo wari uri kwita ku byerekeranye n'ubuzima bwe bwo mu kanwa, ari koza amenyo yifashishije akadodo kabugenewe, agafashe neza ari kugenda agakuba buri hamwe.

Umuganga uri kwita ku mwana uryamye imbere ye, yifashishije udukoresho twabugenewe, ari gusuzuma ikibazo yaba afite ku menyo ye, n'ibindi biri mu kanwa.

Umukobwa wirabura wabumbuye iminwa ye ari kugaragaza amenyo ye y'umwe, yahuje intoki ze azihuriza ku munwa akora ishusho imeze nk'iy'urukiramende.

Umwana mutoya wasamye ari gusuzumwa n'umuganga wambaye uturindantoki, ari kureba uko ubuzima bwe bwo mu kanwa buhagaze ngo amuvure.

Umusaza ufite imvi mu mutwe ndetse no mu bwanwa ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ye irambuke ari kumwe n'umuganga w'umutegarugori.

Umukecuru ufite imvi uri kumwe n'umusaza wicaye ku ntebe nziza, uteruye igikombe cy'ikirahure hari ibyo ari kunywa kugira ngo ashire inyota arusheho kumererwa neza.

Umuryango wicaye hamwe ugizwe n'abagabo, abagore n'abana, uhuriye hamwe bari kuganira, bari guseka, bishimye, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ukuze ufite imisatsi y'imvi wambaye amarinete wifunze ku mazuru no kumunwa yambaye umupira w'ubururu afite ikirahure mu ntoki.

Abaturage bo mu cyaro bahuriye hamwe bari gukora inama n'umuyobozi wabo, bicaye munsi y'igiti, bari kuganira uko batera imbere n'ubuzima bwiza.

Umusaza ufite imvi, wambaye ishati itukura, wambaye n'amadorubindi, wifashe ku kumunwa afite n'ikaramu mu ntoki, ari gusoma igitabo, kugira ngo arusheho kugira ubumenyi.

Umusaza ukuze wicaye mu ntebe hamwe n'umuganga wambaye imyenda yabugenewe, ari kwambikwa ikintu cy'umukara ku kuboko kugira ngo barusheho kurinda ubuzima bwe, bamuvure indwara afite.

Umukecuru usa nkaho akuze afite agakoresho mu kuboko kwe kw'iburyo, yifashisha mu kugira ngo akore imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hahagaze abandi benshi bari gufatanya na we.

Umusaza wicaye mu ntebe afashwe ku rutugu n'umuganga wambaye impuzankano isa ubururu, ari kumuganiriza amubwira uko ubuzima bwe buhagaze.

Amutegarugori usa nkaho akuze, ufite imvi, yarambuye amaboko, ari kumwenyura, imbere hari umukobwa wafashe ukuboko kwe kw'ibumoso n'amaboko yombi, ari kumwerekera uko bakora imyitozo ngororamubiri.

Umukecuru wicaye afite ikirahure cy'amazi imbere ye hari umuganga uri kumuhereza ikinini mu ntoki amufasha kugirango anywe imiti neza.

Umusaza ufite uducupa turimo imiti ari gusoma amabwiriza yanditseho, iruhande rwe hari umukecuru ufite mudasobwa ari kuyikandaho.

Abategarugori bicaye hamwe bakikije ibitebo birimo inyanya zihiye neza zifashishwa mu guteka, kandi zivamo intungamubiri zo mu buryo butandukanye.

Umusaza n'umukecuru bicaye hamwe, bose bafashe ku rupapuro rwanditseho ibintu ndetse no ku meza hari izindi nyandiko zihari, bategereje kugira ngo bazisome, zibafashe.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe, iruhande rwe hari icyuma cyangwa imashini y'ikoranabuhanga iri kugaragaza ibipimo by'umubiri we uko bihagaze, hari n'umuganga inyuma.

Abagore babiri barikumwe bahuriye mu nzira umwe yambaye ikote ry'umukara ahagaze ku kantu ka kuma mugenzi we ahetse igikapu afashe n'ikindi gipfunyika mu ntoki.

Umukobwa n'umuhungu bafatanyirije hamwe bateruye umusaza bamufasha kugira ngo aryame neza, mu bigaragara yari afite intege nkeya, ari mu zabukuru afite ibibazo by'ubuzima.

Itsinda ry'abagore imbere yabo hari uwambaye ikanzu ikozwe mu gitenge, inyuma hari abambaye imipira y'umweru n'ingutiya zisa umukara.

Itsinda ry'abagore bicaye hamwe, aho harimo umugabo uteruye umwana w'umwirabura ndetse hari n'undi uri kuboha igitebo.

Abakecuru babiri bari bari mu myitozo ngororamubiri, barambura amaboko yabo bari guseka bishimiye ibyo bari gukora, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, uw'imbere yambaye umupira w'umukara, uw'inyuma yambaye isengeri y'umweru.

Umusaza wambaye agapfukamunwa, wicaye ku ntebe aho ari gufungurirwa ishati n'umutegarugori wari umuri imbere, wambaye umwenda usa icyatsi hejuru.

Umukecuru uri gufashwa n'umwana mutoya w'umukobwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo arambure imitsi ndetse n'amaraso atembere neza mu mubiri wose.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho asa nk'uwashyize amaboko ye hasi ayahinnye kandi afunze ibipfunsi yashinze n'amano mu buryo bwo kugira ngo arambure imitsi.

Abagore babiri bambaye imyenda yabugenewe bari gutambuka mu muhanda bakora imyitozo ngorora mubiri, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukecuru wicaye ku ntebe afite ikirahure cy'amazi, imbere ye hari umuganga w'umutegarugori ari kumufasha amwerekera uko yanywa imiti yahawe neza.

Ihuriro ry'abakecuru bakuze, bicaye hasi inyuma hari uwicaye ku ntebe isa umweru. Bategereje ubufasha bagiye guhabwa banumva uri kugira icyo ababwira.

Itsinda ririmo abategarugori ndetse n'abagabo, aho bafatanirije hamwe mu guha umukecuru umwenda wo kwiyorosa mugihe aryamye. Kugira ngo amererwe neza.

Umusaza ufite imvi wicaye mu kagare kabugenewe, inyuma ye hari umutegarugori wishimye ari kumusunika, amuvana ahantu hamwe amugeza ahandi.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi bari hejuru y'imyaka mirongo itanu, bari bicaye bari kuganira kutuntu tw'umweru, bigaragara ko bishimye cyane, banejeje na two.

Umusaza uri guseka cyane yishimye, aho yarambuye ukuboko kwe ku iburyo, ari kugira akantu asunika arebana na mugenzi we kugira ngo barebe uwutsinda undi.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru ufite urupapuro, ari kumwereka gahunda y’uko yazajya anywa imiti imuteretse imbere ku meza.

Umuganga wambaye imyenda y'umutuku hose n'agapfukamunwa afite n'agakoresho ko gusuzuma mu ijosi, ari kuvura umukecuru ukuze yamuhaye ukuboko.

Umukecuru ufite imvi z'umweru mu mutwe, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, uhagaze ku gatuti aho ari kugira icyo abwira abantu bari bari aho hafi.

Umugabo n'umugore bari kumwe bishimye cyane, bari gusuhuzanya bahuje ibiganza, baryohewe n'ubuzima barimo, babayemo bwa buri munsi.

Umukecuru n'umusaza bicaye hamwe aho ku m abari imbere hariho ikirahure cy'amazi ndetse nu'ducupa turimo imiti, bafite igikoresho cy'ikoranabuhanga, hari ibyo bari gusoma.

Abategarugori bagera kuri batatu bari ku murongo w'imbere, inyuma ye hari abandi bagabo, aho bari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukecuru witeze igitambaro mu mutwe cy'umutuku, yahoberanye n'umusaza we cyane, bari guseka bishimye aho bari gusomana, bigaragaza ko nta bibazo by'urwango bafite, bari mu munezero gusa.

Ihuriro ry'abagabo n'abagore bari gukoma amashyi, bishimiye ku mpano bahawe, ya bimwe mu bikoresho byifashishwa kwa muganga, ku kwita ku muntu ufite ikibazo cy'ubuzima.

Umutegarugori wicaye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye akaguru ke k'iburyo cyane, birangije ahina akandi k'ibumoso afata amaboko ye yombi ayakoza ku kirenge.

Umusaza wambaye amadarubindi, wicaye yunamye, afite ikaramu mu ntoki ze z'iburyo ndetse n'agatabo ari kugenda yandikamo ibyo ari gutekereza.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi ufashe akuma mu ntoki ze, kugira ngo arusheho gukomera mu ngingo ze, iruhande rwe hari umuganga w'umutegarugori ari kumuganiriza amufasha.

Umukobwa n'umusore bafatanyirije hamwe bose kugira ngo bafashe umubyeyi wabo ubabyara mu gutegura ifunguro ryiza kandi riboneye rifite intungamubiri zose umuntu akenera.

Umusaza wicaye mu kagare, afite agakoresho kabugenewe, hirya ye hari umwana ukiri mutoya, bose bari gukina bishimisha kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Umukecuru uri kumwe n'umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'agakoresho gasuzuma kari ku ntugu ze zombi, bari kuganira amubaza uko amerewe.

Abasaza babiri bambaye ingofero bikenyeye kinyarwanda mu muco gakondo, umwe wo ku ruhande wambaye ishati isa umweru ari gukoma amashyi.

Umusaza uri ku cyuma cyabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari umuganga w'umugore, uri kumufasha kugira ngo akore neza.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye mu busitani busa neza, aho ari kugonda umugongo we, agazamura amaboko, agakora ku birenge bye.

Abategarugori batatu bicaye hamwe bari gukina umukino wamakarita kugira ngo baruhuke mu mutwe barusheho kugira ubuzima bwiza bari guseka bishimiye ibyo bakora bibanejeje.

Icyumba kirimo abagabo n'abagore, gitangirwamo serivisi y'ibijyanye no kugura ibyo kurya, aho hari abicaye ku meza, inyuma yabo hari utanga ubufasha k'ubukeneye.

Itsinda ririmo abana benshi bahagaze inyuma y'intebe, aho abandi bicaye bari kumwe n'abagore babiri, harimo umwe uteruye umwana bishimye.

Umusaza ufite imvi, mu kuboko kwe kw'iburyo harimo agakoresho bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hariho umuganga wambaye impuzankano isa umutuku.

Abasaza bicaye ku murongo mu ntebe zimwe, zisa kandi bari kuganiriza abantu bari babari imbere bagira ibyo babamenyesha.

Umukecuru ufite agapapuro gasa umweru kanditseho amagambo, ari gusomera umusaza ufite agacupa mu ntoki karimo imiti yagenewe kugirango ayinywe.

Bimwe mu bimenyetso bigaragaza indwara yo kugira ikibazo cy'isukari mu mubiri, harimo kumva ufite inyota nyinshi, kunanirwa, kubura ibiro bya hato na hato no gukenera kujya kunyara cyangwa kwihagarika inshuro nyinshi.

Inama yahuriyemo abantu benshi bambaye imipira y'umweru hejuru ndetse bicaye no ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ubahagaze imbere ari bahereza ikiganiro.

Umukecuru witeze igitambaro gisa umutuku mu mutwe, aho ijisho rye ry'iburyo rifite ikibazo, hariho igipfuko gisa umweru.

Umwana ukiri muto, wishimye, yari ari kuganira n'umubyeyi umwitaho, kugira ngo amuhe uburere n'imyitwarire myiza ikwiriye, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bari bari hamwe mucyumba kimwe, bambaye imyenda yabugenewe isa ubururu, bigaragara ko bari bari mu kazi kabo bashinzwe ko kuvura, no kwita ku buzima bw'abantu.

Umugabo uryamye hasi bisa nkaho yahuye n'ikibazo cy'ubuzima, iruhande rwe akikijwe n'abaganga ndetse n'abatanga ibijyanye n'ubutabazi bw'ibanze ngo yitabweho akire.

Raporo igaragaza uburyo bimwe mu bihugu bituwe n'Abanyafurika byarwanyije icyorezo cyibasiraga imyanya y'ubuhumekero, cyaje guhera muri bibiri na cumi n'icyenda.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe isa ubururu n'udupfukamunwa mu buryo bwo kwirinda bari gusuzuma umurwayi wari waje ubagana ufite ibibazo kugira ngo bamuvure.

Abagabo babiri bicaye imbere bambaye amakote harimo umuzungu n'umwirabura, bateraniye hamwe bavuga ku buryo barwanya icyorezo cyari cyateye u Rwanda.

Imbaga y'abantu yari ihuriye hamwe bicaye, imbere yabo hari abandi bantu bicaye bagiye kubahereza ikiganiro cyerekeranye n'iby'ubuzima.

Itsinda rigizwe n'abaganga ndetse n'abaturage baje guhabwa serivisi z'ubuzima, aho umukecuru urimo yahaye agatoki ke umwe mu bari gutanga ubufasha ngo amuvure amusuzume.

Ubukangurambaga bukorwa ku rubyiruko kugira ngo babigishe ibibi by'agakoko gatera SIDA n'uburyo babyirinda bakarushaho kubaho neza.

Ubukangurambaga bwo ku rwego rw'Isi yose muri rusange, burwanya ndetse bushishikariza kwirinda indwara iterwa n'isukari nyinshi mu mubiri.

Inama irimo abantu b'ingeri zitandukanye iyobowe n'abantu batatu bari bicaye imbere harimo umwe w'umugabo abandi babiri ari abagore harimo umwe w'umuzungu.

Gushishikariza abantu kwirinda no kurwanya indwara y'ubushita bufata umubiri w'umuntu, akagira ikibazo bikaba byamuviramo no gupfa bitunguranye.

Umugabo n'umugore bafite akapa kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda, kavuga kati '' twisuzumishe igituntu kiravurwa kandi kigakira''.

Ababyeyi bagera kuri bane bahuriye mu nyubako yo kwa muganga, bose bafite abana babo baje kubasuzumisha no kubapimisha ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umugabo n'umugore bafite ibirango bigaragaza igihe inama y'Isi yose izabera, ishinzwe kwita ku byerekeranye n'ubuzima, izaba muri bibiri na mirongo itatu.

Umutegarugori hejuru ye ndetse no ku ruhande rwe rw'iburyo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, bisobanura umunsi wo ku rwego rw'isi ujyanye n'ubuzima ndetse n'inkingo za kovid kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Inyandiko igaragaza ubushakashatsi bwakorewe mu gice kirimo ibihugu u Rwanda, u Burundi, Kenya, Tanzaniya ndetse n'u Bugande ku byerekeranye n'ubuzima.

Umugabo uryamye ku gakoresho kabugenewe, abarwayi baryamaho, iruhande rwe akikijwe n'abaganga, ndetse n'abandi bambaye imyenda yabugenewe, bareba uko ubuzima bwe buhagaze.

Abayobozi harimo ab'abagabo ndetse n'abagore bahagaze ku murongo umwe bari gufata ifoto, inyuma hariho ikirango cya minisiteri y'ubuzima yo mu Rwanda.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari amagambo amwe yandikishijwe ibara ry'umweru ayandi ibara ry'umuhondo, inyuma yayo magambo hari abana, bigaragaza ibyerekeranye no kwirinda indwara zo mu mutwe.

Inama yari yahuje abayobozi bo mu buryo butandukanye, yabaye bibiri na makumyabiri na kane, bari kuganira ku byerekeranye n'ibibazo by'ubuzima muri rusange.

Icyumba gifite ibara ry'umweru ku nkuta ndetse no hejuru, kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho iyo baje kwa muganga.

Umugabo uryamye ku gitanda cyo kwa muganga cyabugenewe, imbere ye hari uri kumupima ku kuboko ngo arebe ikibazo afite kugira ngo ahabwe ubuvuzi buboneye.

Icyumba kirimo ababyeyi benshi. Hari akana kamanitse hejuru ku munzani, kugira ngo basuzume ibiro gafite n'iba nta n'ibindi bibazo afite mu buzima.

Icyumba gifite ibara ry'umweru giteretsemo bimwe mu bikoresho bibika umwuka mwiza umuntu ahumeka, utangwa ku barwayi bagize ikibazo cy'ubuhumekero.

Inyubako yo kwa muganga itangirwaho serivisi z'ubuvuzi, imbere yaho hari ubusitani busa neza, hari ababyeyi bicaye bategereje ibisubizo ku ndwara bari babasuzumye.

Icyumba gisa neza cyo kwa muganga kirimo ibimwe mu bikoresho bifashisha bavura umurwayi ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho bari kumusuzuma, iruhande rwe hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho y'ibitaro by'i Rwamagana. Imbere yaho hari ihuriro ry'abazungu n'abirabura, bahagaze bari kwitegereza umuntu wari uri kubafata ishusho.

Inyubako nyinshi zubatswe mu buryo bwiza zitangirwamo ubufasha ku byerekeranye n'ubuvuzi, mo hagati harimo ubusitani bwiza kandi busa neza.

Umuntu wambaye yikwije umubiri wose yipfutse kugira ngo yirinde ingaruka mbi izo ari zo zose, afite n'igikoresho mu ntoki ze cyabugenewe, iruhande rwe hari indobo.

Icyumba kirimo ibitanda bishashe neza biriho amashuka asa ubururu, aho umurwayi aryama waje ubagana ufite ikibazo.

Icyumba gisa umweru, kirimo ibyuma bifotora impapuro, mudasobwa, intebe zo kwicaraho n'aho umurwayi ashobora kuryama mu gihe aje abagana, abashakaho ubufasha.

Inyubako irimo ibitanda byinshi, abarwayi baryamaho, n'ibyuma ku ruhande byabugenewe, bikozwe mu ikoranabuhanga kugira ngo bisuzume uko umubiri wabo uri gukora n'impinduka ziri kuba.

Icyumba kirimo igitanda cyabugenewe kiryamishwaho umurwayi mu gihe bari kumusuzuma, kandi iruhande hari ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kugaragaza uko umubiri w'uw'urwaye uhagaze.

Umutegarugori uryamye ku gitanda, iruhande rwe hahagaze umugabo, ari kumukora ku gahanga ngo arebe uko amerewe, hari n'umugore wamufashe ku kuboko.

Inzu igeretswe gatatu yubakishijwe n'amatafari, ikaba ifite ibirango, biranga ibyo ikorerwamo, imeze neza imbere.

Icyumba gisa neza gikorerwamo ubucuruzi bwerekeranye n'imiti ihabwa abarwayi baje bahagana ndetse n'abandi bafite ibibazo by'umubiri.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, itangirwaho serivise z'ubuvuzi, akaba ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe, giherereye mu Karere ka Nyagatare.

Inyubako isa neza, ifite ibara ry'umweru ku nkuta ndetse ifite inkingi ebyiri mo hagati, hafi y'izo nkingi hari intebe zigezweho, abantu bicaramo zisa ubururu n'izindi zisa umuhondo zikozwe mu biti.

Inama igizwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, imbere yabo hicaye ababakuriye bari kubahereza ikiganiro ku byerekeranye n'ikigo gishya kiri i Gahini, hari umusore uri gufata amashusho.

Icyumba kirimo ibikoresho bigezweho, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, umuntu atavuye aho ari kandi akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba gisa neza kirimo udukoresho umurwayi aryamaho; hirya y'aho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bigaragaza uko umubiri w'uwurwaye cyangwa uwuri gusuzumwa uhagaze.

Icyumba kirimo ibikoresho binyuranye byifashishwa mu bitaro mu gihe bari gusuzuma umurwayi, harimo ibiryamirwa n'ibyuma by'ikoranabuhanga bireba uko umurwayi ahagaze.

Icyumba gifite ibara ry'umweru ku nkuta ndetse no hejuru ku gisenge harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, mudasobwa ndetse n'ibifotora impapuro, harimo n'intebe yo kwicaraho, hari umugabo ufite ibyo ari gusuzuma mu ntoki.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse, kandi ifite igisenge gisa ubururu, imbere yaho hahagaze abantu, hari n'ikinyabiziga, gitwara abantu.

Inyubako, imbere yaho hari amarembo afashe ku ruzitiro rw'ibitaro bya Nyanza bitangirwaho ubufasha ku byerekeranye n'ubuvuzi ku uja ahagana.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bisa neza biryamaho abarwayi, iruhande rwaho hari aho umuntu ashobora gutereka ibikoresho mu gihe abifite.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe n'agapfukamunwa ari gusuzuma uruhinja ruri mu myenda y'umweru ruteruwe n'umubyeyi warwo, kugira ngo barebe ikibazo rufite.

Amarembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, mo imbere harimo inyubako nziza zifite igisenge gisa ubururu, inyuma hanze hari umubyeyi uhetse umwana ndetse yashyize agashuka ke imbere ku gatuza.

Icyumba gisa neza gifite ibara ry'umweru, harimo ameza na mudasobwa hejuru yayo n'intebe zo kwicaraho, ndetse n'utubati duteretseho uducupa tumeze neza, dufunze.

Icyumba gifite ibara ry'umweru giteretsemo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, hasuzumwa ibibazo umurwayi afite mu buzima bwe.

Icyumba gisa neza kiriho aho umurwayi aryamishwa mu gihe bari kumusuzuma, hejuru hari ibyuma by'ikoranabuhanga bifata amashusho yuko umubiri we uhagaze.

Inyubako itangirwamo serivisie z'ubuvuzi, ifite ibara ry'umweru, n'igisenge hejuru gisa umutuku, imbere yayo hari utuyira abanyamaguru banyuramo, ndetse n'ubusitani bwiza.

Inyubako yubatswe mu buryo bugeretse imbere yaho hari aho ibinyabiziga bihagarara, ikaba itanga ubufasha mu byerekeranye n'ubuvuzi no kugura imiti igihe urwaye.

Inyubako y'ubuvuzi yubatswe mu buryo bugezweho kandi igeretse, imbere y'iyo nyubako hari ubusitani bwiza bunogeye ijisho bufasha abarwayi mu kuruhuka mu gihe bavuye murizo inzu.

Abategarugori babiri, imbere ku ruhande rw'iburyo hari uwambaye umupira usa umweru, ateruye uruhinja, inyuma ye yambaye imyenda ya kiganga, ndetse n'agakoresho ku rutugu kifashishwa mu gusuzuma.

Icyumba gisa neza gifite ibara ry'umweru ku nkuta ndetse no ku nkingi, hari n'intebe nziza zicarwaho abantu bari kuganira.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho igeretse itanga ubufasha kubabyeyi n'impinja kugira ngo bagire ubuzima bwiza babeho neza.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse ifite igisenge gifite ibara ry'ubururu, imbere hari ubusitani bwiza, hateretsemo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe bifashisha mu kazi, bari kureba ku cyuma cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu kuvura no gusuzuma indwara zitandukanye.

Abakozi bambaye imyenda y'ubwirinzi yabugenewe, imbere yabo hari ibyuma bikozwe mu buryo bw'ubuhanga bari kugenda basuka ibintu mu macupa y'umweru yari abari hafi ari kugenda abanyura imbere.

Inyubako nziza ifite amarembo binjiriramo n'aho bashyira ibinyabiziga by'abaje bahagana, akaba ari ibiro bikuru.

Inzu mberabyombi irimo intebe nyinshi z'umukara abitabiriye inama cyangwa imbwirwaruhame bicaraho ndetse n'imbere aho ugira icyo avuga aba ahagaze.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza kandi igeretse ifite igisenge gisa ubururu, imbere yaho hahagaze abantu ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho, irimo ibikoresho bisa neza byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, harimo iby'ikoranabuhanga, intebe zo kwicaraho n'aho kuryamisha umurwayi.

Inyubako isa neza ifite igisenge kiriho amabati asa ubururu, munsi yiyo nyubako hari umuganga wambaye umwenda wabugenewe, usa umweru hatangirwamo gahunda zo gusuzuma malariya.

Umuryango w'icyumba ufunguye neza uri kutwereka ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi harasa neza harimo n'ibikoresho byose bikenewe.

Icyumba kirimo itsinda ry'abaganga bagera kuri batatu, aho baryamishije hasi umurwayi bagiye kumuvura, hejuru ye hari icyuma cy'ikoranabuhanga gikoresha amashanyarazi, kiri kubafasha kugira ngo hatangwe ubuvuzi bwiza kandi bwizewe.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu kureba uko umurwayi ameze mu gihe arwaye, harimo ibisuzuma uko umutima we utera n'uko ari guhumeka mu buryo bugiye butandukanye.

Itsinda ry'abaganga bahuriye hamwe mu cyumba kimwe bambaye impuzankano, hari ibyo bari gusuzuma ku byari byakuwe ku murwayi wari waje abagana kugira ngo bamuvure.

Ihuriro ry'abantu bicaye ku murongo mo hagati yabo hagiye harimo umwanya bambaye udupfukamunwa, bategereje serivisi zo kwa muganga kugira ngo bitabweho.

Inyubako ikorerwamo gahunda z'ubucuruzi, aho bagurisha imiti ku baturage bafite ibibazo by'uburwayi kugira ngo bivuze kandi bakire.

Umugabo ufite ibyuma by'ikoranabuhanga ku meza ye, ari kubyifashisha, areba uburyo igice cyo hejuru mu gatuza cy'umurwayi waje ubagana uko kimeze.

Icyumba cyo kwa muganga kiryamamo abarwayi bafite ibibazo cyangwa barembye, imbere hari umugabo wambaye umupira usa ubururu, ari kuzinga inzitiramibu.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda, ndetse n'ibindi bikoresho umurwayi akenera, kugira ngo ahabwe ubuvuzi bumeze neza, kandi yitabweho.

Icyumba gisa neza kirimo intebe nziza zegamirwa, mo hagati harimo ameza agera kuri atatu ay'umukara, ay'umweru ndetse n'ay'igiti. Ku mpande hari ibiti bitoshye.

Icyumba kirimo bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, aho umurwayi aryamishwa akanyuzwamo kugira ngo barebe indwara afite mu mubiri ahabwe ubuvuzi bwizewe.

Ibitaro byubatswe mu buryo bugezweho bivurirwaho abarwayi barembye cyane ,imbere yaho hari amabendera ndetse n'abaturage baje babigana bashaka serivisi.

Icyumba gisa neza kirimo abaganga, bitegura kwakira umurwayi uje kubagwa kugira ngo bamuvure indwara afite. Arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umwana mutoya w'umuhungu, wicaye hasi, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda yabugenewe, ari kumwitaho, ise ari inyuma ye, ari kumwitegereza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi uryamye, iruhande rwe hari ibyuma by'ikoranabuhanga biriho insinga nyinshi, bigaragaza uko urwaye ameze.

Umuganga w'umutegarugori, wari wambaye imyenda yabugenewe, ari mu nyubako nziza, irimo ibikoresho byifashishwa mu gutwara abarwayi.

Inzu nini ifite ibara ry'umweru irimo ibikoresho bigezweho byifashishwa kwa muganga mu gusuzuma ndetse no kureba amakuru n'ibyerekeranye n'indwara ziba ziri mu bantu.

Umugore uryamye ku gitanda kwa muganga arembye cyane, imbere ye hari abaganga bambaye imyenda yabugenewe, bari kumusuzuma ngo barebe uko yakira.

Icyumba gisa neza kirimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo barembye baje kwa muganga ndetse hejuru yabyo hamanitse n'inzitiramibu irinda imibu itera malariya.

Icyumba cyo kwa muganga harimo igitanda umurwayi aryamyeho, iruhande rwe hariho ibyuma by'ikoranabuhanga bifata amakuru y'uburyo ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako isa neza yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi bigaragaza ko ari ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita kuri zimwe mu ndwara zidakira, imbere yaho hari mu busitani busa neza.

Icyumba kirimo umukobwa wicaye imbere y'umuganga aho ari kumubwira ibintu akagira ibyo yandika ku ikayi afite inyuma ye hari undi muvuzi.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugeretse. Imbere yaho hari ihuriro ry'abagabo ndetse n'abagore bahagaze iruhande bari kugendagenda bajya muri gahunda zabo.

Abaganga bane bambaye impuzankano n'udupfukamunwa bahagaze imbere y'inzu yubatse mu buryo bugeretse itangirwamo serivisi zo kubyaza ababyeyi batwite no kwita ku buzima bw'abana.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugeretse imbere yaho hari ubusitani bwiza burimo indabyo mu marembo y'iyo nyubako hari ikinyabiziga gitwara abantu.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho y'ikigonderabuzima cya Nyarurenzi, hejuru hari abaturage baje kwaka ubufasha ndetse no ku gice cyo hasi hari abandi.

Icyumba gifite ibara ry'umweru ku bikuta ndetse no hejuru, hasi hasa umukara, harimo bimwe mu byuma, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Icyumba gihuriyemo abaganga benshi ndetse n'abandi benshi, baje kwisuzumisha aho hari umukecuru wicaye mu kagare kabugenewe, waje kwivuza ngo barebe ibibazo afite.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igeretse, aho ku gice cyo hasi, harimo umuryango, abashaka kugura imiti, kugira ngo bakire indwara zabo, baza bakagana.

Itsinda rigizwe n'umugabo umwe, iruhande rwe hahagaze abagore babiri ku ruhande rw'iburyo n'abandi iruhande rw'ibumoso, bahagaze imbere y'inyubako ikorerwaho ubushakashatsi no gusuzuma.

Umuganga uri gutunganya aho umurwayi aryama mu gihe bari kumusuzuma bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa kwa muganga mu gusuzuma indwara ziba ziri mu mubiri w'umuntu mo imbere aho umuntu adashobora kurebesha amaso.

Icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi bugezweho basuzuma ikibazo umurwayi afite mu mubiri kugira ngo avurwe neza.

Ihuriro ry'abagore n'abana ndetse n'abagabo bari imbere y'ahatangirwa ubufasha ku byerekeranye n'ubuvuzi kugira ngo babakire.

Igiti kinini cy'inganzamarumbo, hasi yaho hari ibyatsi ndetse hari n'ahandi hubatse neza, umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ahicaye, ari kuruhuka.

Icyumba gisa neza, harimo igitanda, umurwayi aryamaho mu gihe ari kuvurwa, hirya hari icyuma cy'ikoranabuhanga kigaragaza uko umubiri w'urwaye umeze.

Abaganga bambaye imyenda y'ubwirinzi yabugenewe kuva hasi kugera hejuru kugira ngo bite ku barwayi baje babagana batabakuraho izindi ndwara muri rusange.

Abagore batatu bambaye imyenda yabugenewe isa ubururu, hejuru ku mutwe bafite ingofero zenda gusa umweru, uwo hagati akaba ariwe mugufi muri bose

Icyumba gisa neza ku ruhande hariho imiryango myinshi abantu binjiriramo ndetse hejuru hari ibirahure bizana urumuri n'intebe ndetse n'ameza abantu bicaraho bari kuganira.

Icyumba gisa neza kirimo ibikoresho bitandukanye aho harimo ibyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse n'ibyo umuntu yicaraho kugira ngo yishimishe.

Imiti ipanze neza ibitswe neza aho bayigurisha bakayihereza abayishaka kugira ngo bakire indwara bafite mu buzima bwabo.

Icyumba gifite amabara y'umweru, kirimo udukoresho umuntu uje kwa muganga arwaye aryamaho, kugira ngo barusheho kumusuzuma barebe ikibazo afite mu mubiri.

Inzu y'aho ababyeyi batwite babyarira abana babo, yubatswe n'amatafari ifite igisenge cy'ubururu itanga serivisi zerekeranye n'urubyaro no kwita ku bana.

Icyumba kirimo igitanda gifite amapine basunika kikavaho kiri kikajya ahandi umurwayi aryamaho hirya hari aho bakarabira hafi y'aho bakarabira hari agakoresho banagamo imyanda.

Inyubako itangirwaho serivise zbuvuzi aho ku marembo yaho hari icyuma kihafunga ndetse hari n'ibinyabiziga mo imbere mu kibuga aho abagenzi bari kunyura.

Icyumba kirimo aho abarwayi baje kwa muganga baryama harimo ibitanda byinshi ndetse n'umugabo n'umugore bari gukoramo isuku kugira ngo hagumye gusa neza.

Icyumba cyubatse neza gisa umweru kirimo igikoresho kiryamishwaho umurwayi bamusuzuma indwara afite mu mubiri we kugira ngo hatangwe ubuvuzi bwiza kandi bwizewe.

Ikigo nderabuzima cyubatswe n'amatafari ahiye imbere yaho hari ubusitani bumeze neza buconze hari n'umuhanda usukuye abagenzi banyuramo bagana icyo kigo nderabuzima.

Inama yahuje abagabo n'abagore bari mu cyumba kimwe, imbere yaho hari abayobozi, bari kubaganiriza, ku byerekeranye n'ubuzima n'uburyo babaho neza.

Inyubako nziza igaragaza uburyo imwe mu miti yo kwa muganga ibikwa neza, mu buryo bwizewe kandi butunganye ku buryo idashobora kugira ikiyangiza.

Ubusitani busa neza buteyemo ibiti harimo ibyicungo by'abana hirya y'ubwo busitani hari inyubako zubakishijwe amatafari zifite igisenge gisa icyatsi.

Amarembo y'uruzitiro rw'ibitaro bya Kabgayi n'umuhanda abagenzi banyuramo baje babigana n'inzu zubatswe n'amatafari, hafi yaho hari n'ibiti.

Ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu gusuzuma umurwayi, kugira ngo bumve ikibazo afite mu mubiri, bamenye ubufasha bari bumuhereze, kugira ngo akire.

Ikirahure gisa neza kiri gusukwamo amazi yurubogobogo, umuntu ashobora kunywa kugirango ashire inyota kandi arusheho kugira ubuzima bwiza,

Umusore wambaye umupira usa ubururu, ufite icupa ry'amazi mu kaboko ke k'ibumoso, ari kunywa kugira ngo ashire inyota kandi arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru afite agakoresho k'ubururu yashyize ku kuboko kwe ari kwikandakanda kugirango arambure imitsi ye arusheho no kugira ubuzima bwiza.

Inkoni zikoze mu buryo bwihariye aho uwo ariwe wese ufite intege nke cyangwa ingingo ze zidakora neza, ashobora kuzifashisha mu gihe ari kuva ahantu hamwe ajya ahandi.

Umusore uri mu nyubako yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ikomeza imitsi, aho afite icyuma ari guterura, akakizamura, akongera akakimanura.

Ikibuga cyangwa se icyanya cy'ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo n'umugore bahagaze bambaye imyenda yabugenewe, harimo ufite umupira w'amaguru.

Agakoresho bomeka ku kuguru k'umuntu gatangwa no kwa muganga kugira ngo imvune yagizemo ivurwe vuba kandi ikire neza mu buryo bwizewe.

Umugabo wambaye impeta, yahinnye ukuguru kwe afashe ku ivi, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kurambura imitsi kandi amaraso atembere neza mu mubiri.

Umutegarugori uri gukora siporo zo kurambura imitsi y'ukuguru kwe, aho ukuboko kw'ibumoso gufashe ku mano, ukw'iburyo kuri gukanda ku ivi kugira ngo arusheho kurambura imitsi ye neza.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri aryamye aho ari kuzamura akaguru ke k'iburyo akakigiza imbere akakegeranya n'aho ukuboko gufashe.

Amazi y'urubogobogo ari gusukwa, ava mu kabuganizo gafashwe n'ikiganza cy'umuntu, amanuka ajya mu kirahure gisa neza, kugira ngo anywebwe.

Umutegarugori wambaye umupira usa umutuku, aho ari gukoza udutoki twe ku kuguru kw'iburyo, bisa nk'aho gufite ikibazo, hariho igipfuko gisa umweru.

Icupa risa neza riteye amabengeza, ripfundikijwe n'agafuniko gasa ubururu, iruhande hariho ibitonyanga byinshi by'amazi, bigaragaza ubwiza bwayo ku buzima bw'umuntu.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kuzamura amaboko ye abiri mukirere akayafatanisha kugira ngo arambure imitsi kandi amaraso atembere neza mu mubiri.

Umutegarugori wari wambaye ipantaro y'ubururu, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuraga akaguru kamwe, akagakurura n'ukundi kuboko kuri imbere.

Umutegarugori wicaye hasi yasobekeranyije amaguru ari gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kuzamura amaboko ye ndetse akayahina imbere ye hari mudasobwa.

Umugabo ufite ubuzima bwiza, ufite icupa ry'amazi mu ntoki ze yashyize ku munwa, ari kuyanywa kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Igikapu cy'umutuku gifite imifuka myinshi kirimo imiti y'ubwoko bwose yifashishwa mu kuvura ubuzima bw'abantu n'ibindi bikoresho byifashishwa mu butabazi bw'ibanze igihe umuntu ahuye n'ikibazo.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yahinnye ukuboko kwe kw'ibumoso akagukoza mu mugongo hagati, ndetse ahina n'ukw'iburyo akagufatisha ku nkokora ngo imitsi yose irambuke neza.

Umugabo uri kwirukanka imitsi yireze, ari gukora imyitozo ngororamubiri, munsi y'ikirenge cye hari za karoti, ndetse hirya ya karoti hari imbuto zitanga intungamubiri.

Umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, yarambuye akaboko ke k'iburyo hanyuma aho ingingo zihurira ku nkokora yashyizeho agakoresho gasa ibara ry'ubururu ari kwikandakanda.

Umuganga uri gusuzuma umwana mutoya uri munsi y'imyaka itanu wazanywe n'umubyeyi we, umubyeyi akaba amukikiye ku bibero kugira ngo serivisi z'ubuvuzi zitangwe neza.

Imikino yo mu buryo butandukanye ishobora kwifashishwa mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri, harimo kwiruka kurambura amavi, kuryama, kwicara neza n'ibindi bifasha umubiri kumererwa neza.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yarambuye amaguru ye yumbi hanyuma agaheta umugongo amaboko ye agafata ku birenge.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa kwa muganga, kigaragaza ibipimo by'uko urembye cyangwa urwaye ahagaze mu buzima bwe kugira ngo bagire ibindi bamufasha.

Umusore wicaye ku gatanda kabugenewe, aho yahinnye ukuguru kwe imbere ye hari umuganga w'umutegarugori ari kumuzirika akantu k'umweru, aho ukuguru ndetse n'ikirenge bihurira.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yunamye hasi yahese umugongo we akarambura amaboko ye yombi imbere cyane kugira ngo agire imitsi n'ubuzima bwiza.

Agatebo karimo imbuto ndetse n'imboga zitandukanye ndetse n'isahani irimo imineke n'inkeri hamwe n'amagi, hirya ku ruhande hari ibyuma byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umusore w'ibigango wambaye umupira usa umukara, afite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo ari kunywa kugira ngo ashire inyota, kandi arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yegeranya amaguru ye akazamura amaboko ye mu kirere akayahuza, kugira ngo arusheho kurambura imitsi ye n'amaraso atembere mu mubiri neza.

Icyumba kirimo itsinda ry'abaganga, ku ruhande hari ibitanda abarwayi baryamamo, imbere yabo hari icyuma cy'ikoranabuhanga kiri kugaragaza ishusho y'uri kuvuga bifashisha mu guhanahana amakuru kugira ngo ubuvuzi bukorwe neza.

Umuntu wari ufite icupa ry'amazi risa ubururu, yarishyize ku munwa ari kunywa amazi ahumirije, bigaragara ko yishimiye ibyo yari arimo.

Abana batoya ndetse harimo na bamwe bakuru babahagarariye aho babahurije hamwe mu kibuga bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umukobwa w'umwirabura uri gukora imyitozo ngororamubiri, apfukamishije ukuguru kumwe, ukundi kuri imbere ndetse azamuye amaboko hejuru mu kirere.

Umusore ufashwe n'abagabo babiri, bari kumwitaho aho yambaye igisa n'ikirinda umutwe mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa ari mu mumarushanwa.

Akaziga k'umweru handitsemo amagambo y'umukara ndetse n'agasaraba mo hagati bigaragaza umuryango ushinzwe kwita ku mbabare ukorera mu gihugu cyacu cy'u rwanda.

Itsinda ry'urubyiruko rwari rwahuriye hamwe bari kubigisha uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe umuntu yahuye n'ibibazo bitunguranye.

Umuntu uryamye yarambuye ukuguru kwe kw'iburyo, baguseguye agashuka kazingazinze neza, hanyuma hejuru yaho hari uri kumufasha kugira ngo arambure imitsi.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga mu kureba udukoko dutoya cyane dutera indwara umuntu adashobora kubona akoresheje amaso ye kugira ngo hatangwe ubuvuzi bunoze.

Icyumba kirimo ububiko bw'imiti, ipfunyitse neza, igerekeranyije neza. Irindwa mu buryo bwo kugira ngo abaje kuyigura bayibone imeze neza.

Umugabo w'ibigango, ufite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo, arishyize ku munwa, ari kunywa kugira ngo ashire inyota kandi arusheho kugira ubuzima bwiza.

Imwe mu myitozo ngororamubiri, umuntu ashobora gukora kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze harimo kuzamura amaguru, kurambura amaboko ndetse n'ibindi.

Umubyeyi wicaye mu cyumba hasi ari kumwe n'akana ke k'agakobwa kamwicaye imbere kari guseka, bigaragara ko bafite ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abagabo n'abagore, bahagaze hamwe, bambaye utunozasuku two mu mutwe, ndetse n'agapfukamunwa, batumbiriye ku cyuma kigaragaza amashusho, aho hafi hari na za mudasobwa, ziri ku meza.

Umugabo wambaye isaha y'umukara, ufite icupa ryamazi risa neza, arishyize ku munwa ari kunywa kugira ngo yikize icyaka.

Ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'umuntu ugeze kwa muganga n'imipira yifashishwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Abagabo babiri harimo uwirabura uryamye ku gatanda kabugenewe n'undi w'umuzungu uri kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ye igororoke amere neza.

Umukobwa ukiri mutoya ufite icupa mu kuboko kw'ibumoso harimo amazi ari kuyanywa kugira ngo ashire inyota kandi agire ubuzima bwiza.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari guhina ukuguru kwe kw'ibumoso hanyuma akarambura ukw'iburyo, agafata amaboko ye yose, agakora ku kirenge kugira ngo imitsi ye irambuke.

Umutegarugori wicaye hasi yasobekeranyije amaguru yombi, yanazamuye amaboko. Imbere ye hari mudasobwa ndetse n'udukoresho yifashisha mu myitozo ngororamubiri, ndetse n'icupa ry'amazi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri aho yicaye kandi yambaye yikwije imyenda yose iba ikenewe kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Ububiko burimo imiti itandukanye ndetse n'amavuta asigwa ku mubiri mu gihe umuntu yagize ikibazo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura imvune.

Umugabo ufite ibigango, ufite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo ari kunywa kugira ngo ashire inyota kandi arusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umukobwa wirabura, wambaye isengeri, ufite icupa ry'amazi mu kuboko kw'iburyo ari kunywa ngo ashire inyota n'isume ku rutugu rw'ibumoso.

Umugabo ufite agapira bifashisha mu mikino y'amaguru, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bahangane kandi bagire ubuzima bwiza.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa kwa muganga; kugira ngo bite ku murwayi barusheho no gusuzuma imiti akeneye; kugira ngo arusheho gukira n'izindi ngamba zo mu buryo bwihariye bashobora gufata mu buryo bwihuse.

Umutegarugori wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho ukuguru kwe kw'iburyo yaguhinnye ukw'ibumoso yakurambuye, hanyuma afata amaboko ye yombi ayakoza ku kuguru agaramye kugira ngo arambure imitsi.

Ikirahure gisa neza cy'umweru cyari kiri gusukwamo amazi meza y'urubogobogo, aturuka mu icupa rifite isuku, rimeze neza.

Umusaza uhagaze wambaye igisa n'umukandara w'umweru mu nda ye inyuma ye hari umusaza wambaye impuzankano isa ubururu ari kumwitaho anamugira inama kubyerekeranye n'ubuzima.

Umutegarugori uri mu myitozo ngororamubiri, aho ukuboko kwe kw'iburyo aguhina akagukoza mu mugongo, ukundi gufashe kuri uko nguko guhinnye, kugira ngo arambure imitsi ye agire ubuzima bwiza.

Umugabo umeze neza, ufite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo, ari kuyanywa kugira ngo ashire inyota kandi arusheho kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo waryamishijwe, ku gitanda cyabugenewe, hari uwuri kumukandakanda, kugira ngo imitsi ye imere neza, kandi n'amaraso atembere neza, mu mubiri wose.

Umuntu warambuye ukuboko kwe, afite agakoresho gasa ubururu, yagashyize aho amagufwa ahurira hafi ku nkokora yikanda, kugirango arusheho kumererwa neza.

Igikoresho cy'aho umurwayi yicara mu gihe ari gusuzumwa kwa muganga, bifashishije ikoranabuhanga, kugira ngo barebe ibibazo birimo imbere mu mubiri.

Umugabo wari uryamye hasi yazamuye akaguru ke k'ibumoso, kari ku bitugu by'umuganga uri kumuvura mu gihe avuye mu myitozo.

Icyumba kirimo icyuma cyangwa igikoresho cy'ikoranabuhanga, aho baryamishwa umurwayi ufite indwara kugira ngo asuzumwe neza ahabwe ubuvuzi bwizewe.

Umugabo w'ibigango wambaye umupira usa ubururu ndetse n'urunigi mu ijosi, afite icupa mu kuboko kwe kw'iburyo ririmo amazi ari kuyanywa.

Umuganga wicaye imbere ye hari umubyeyi uteruye umwana ukiri mutoya, yasamye yerekana mu kanwa ke uko hameze, bari gukoresha igikoresho cyabugenewe kugira ngo bahasuzume.

Umugabo, wicaye hejuru ku meza, ufite ikibazo cy'imvune, aho ukuguru n'ikirenge, bihurira, akaba afite umuntu uri kumwitaho, bamuziritse, agakoresho cyangwa umwenda wabugenewe, aho amagufwa ahurira, ngo avurwe neza.

Imbuto zo mu buryo butandukanye n'ibirahure bibiri, kimwe kirimo umutobe w'umuhondo ikindi kirimo amazi y'urubogobogo, n'igikoresho cyifashishwa mu gupima uburebure, n'ikindi cyifashishwa mu guterura kugira ngo umuntu azane agatuza.

Ikinyabiziga kiri mu muhanda cyagenewe gutwara abarwayi barembye cyane, kibavana ku bitaro bimwe, kibajyana ahandi kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse.

Umusore wambaye ubusa ku gice cyo hejuru, yahinnye ukuboko kwe kw'iburyo kuriho udushushanyo tw'umutuku n'utw'ubururu, afashe mu gituza hagati.

Umumansera upfukamye wambaye ivara mu mutwe, imbere ye hari akana k'agahungu kicaye ku kuguru kwako, gafashwe n'umuzungu w'umutegarugori, bari kureba mu cyerekezo kimwe.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igikoresho cy'ikoranabuhanga umurwayi aryamaho agasuzumwa indwara zose afite mu mubiri agahabwa ubuvuzi bwizewe.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yasobekeranyije amaguru ye, ayahinnye, akazamura n'ukuboko kwe kw'ibumoso, imbere ye hari icupa ry'amazi.

Bimwe mu bikenerwa kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima buzira umuze, harimo imbuto zo mu buryo butandukanye, amagi, ibishyimbo ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo, urwaye, wambaye ikabutura, ari mu gakoresho kabugenewe, gakozwe, mu cyuma imbere ye hari umuganga, wambaye imyenda isa ubururu, ari kugira, ibyo amubwira, ngo avurwe.

Akagare gatangwa no kwa muganga kagahabwa umuntu ufite ibibazo by'ingingo ndetse akaba adashobora kugenda ava ahantu hamwe ajya ahandi kugira ngo kamufashe.

Umugabo wari uri gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo arambure amaguru ye n'amaboko n'umugongo we, amere neza, arusheho kugira ubuzima buzira umuze.

Umuntu ufite agakoresho kifashishwa nk'umuti wo kuvura imvune yagaragaye hagati y'ikirenge n'ukuguru, aho bihurira kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki dufasha umuntu impanuka ashobora guhura nazo mugihe ari gukoresha ikiganza cye mu bintu bitandukanye.

Umutegarugori waruri gukora imyitozo azamuye akaguru kwe k'ibumoso, amaboko yombi agafashe ari kugakurura kugira ngo arambure imitsi ye arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi bigezweho byo mu buryo butandukanye byifashishwa mu guhanahana amakuru, haba mu kazi ndetse no mu bundi buzima bwa buri munsi.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe yo mumyitozo ngororamubiri, aho yazamuye ukuguru kwe kw'ibumoso afashe ku itako ari kugukandakanda ngo arambure imitsi.

Umutegarugori ufite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo, yashyize ku munwa ari kunywa ngo ashire inyota ndetse hari n'umwenda w'umweru uri ku bitugu bye byombi.

Umugabo ndetse n'umugore bose bari kugenda birukanka bakora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo barambure imitsi ndetse barusheho no kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye mu byatsi ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye amaguru ye neza, birangije ahina umugongo, afata amaboko ye ayakoza ku birenge.

Umusore wambaye umupira w'umukara, ufite icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo, yarishyize ku munwa, anywa kugirango ashire inyota arusheho kumererwa neza.

Icyumba gisa neza kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga harimo igitanda ndetse n'ibyuma bifata amashusho y'umurwayi kugira ngo barebe ikibazo afite mu mubiri.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari guhina ukuguru kwe kw'ibumoso hanyuma akarambura ukw'iburyo, agahina umugongo, amaboko akayakoza ku kirenge.

Abakinnyi bari mu myitozo ngororamubiri bambaye ibikoresho ku mutwe, ku maboko, ku matako, bibarinda guhura n'ibyago by'impanuka kandi barusheho gukina neza nta kibahungabanya.

Ihuriro ry'imiti n'ibikoresho byifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi, harimo igikapu gisa umutuku gitwarwamo imiti, uturindantoki dufasha kurinda indwara ndetse n'ibinini bikiza indwara.

Umugabo waryamishijwe hasi aziritswe hose imbere ye hari abantu benshi bapfukamye bari kumuha ubufasha n'ubutabazi bw'ibanze.

Bimwe mu bikoresho umuntu akoresha ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amere neza ndetse n'agakoresho umuganga yifashisha asuzuma umurwayi.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe isa ubururu n'ikarita y'akazi mu gatuza, afite ukuguru k'umurwayi ari kugorora arambura imitsi kugirango agire ubuzima bwiza.

Imwe mu myitozo ushobora gukora kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, uruhuke kandi n'imitsi yawe irambuke, urusheho kumererwa neza.

Umusore wambaye imyenda myiza yabugenewe uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yatandukanije amaguru ye hanyuma akunama amaboko ye akayashyira imbere.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye harimo abakobwa abagabo urubyiruko ndetse n'abakuze bari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda myiza yabugenewe.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'inyubako y'ibitaro aho muri bo harimo umwe w'umwubatsi uhagaze ku rwego ari kugira ibyo yubaka ngo harushe kumera neza.

Imiti yo mu buryo butandukanye, ipfunyitse neza ndetse iruhande hari n'agakoresho bambara mu ntoki, mu gihe bari kuvura abantu kugira ngo hatangwe ubufasha neza.

Igikapu kinini gifite ibara ry'umutuku ndetse n'imifuka myinshi, kibikwamo ibikoresho byo kwa muganga, harimo ibyo kuvura indwara zitandukanye ndetse n'ibyifashishwa mu butabazi bw'ibanze.

Icyumba kirimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma indwara umuntu afite mu mubiri, bikozwe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga.

Ihuriro ry'imiti n'udukoresho twifashisha mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo cy'ubuzima ngo avurwe akire.

Umugabo ukina umupira w'amaguru aryamye hasi mu kibuga, yazamuye ukuguru kwe, imbere ye hari uri kumukandakanda mu mavi ngo imitsi ye irambuke, akomeze ibyo yari arimo.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe, afite n'igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma, afashe umurwayi, ari kumukandakanda ku ivi kugira ngo arebe ikibazo afitemo, amuvure.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, aho yapfukamye ukuguru kumwe akagushyira imbere kugira ngo arambure imitsi yose y'umubiri.

Bimwe mu bikoresho, byifashishwa kwa muganga, mu gihe bari gutanga serivise, zo kuvura abarwayi, bafite ibibazo byo mu buryo butandukanye, kugira ngo bakire neza.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi yafashe amaguru arayegeranya arambura amaboko akora ku mano arambura kugira ngo imitsi imere neza, agire n'ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa n'umupira w'umukara n'isaha ku kuboko aho arigufasha umukinnyi ukora imyitozo arikumuzirikaho akantu kabugenewe kugira ngo arusheho kumererwa neza mu buzima.

Umutegarugori uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yarambuye ukuguru kwe kw'iburyo hanyuma ukw'ibumoso akaguhina agafata ukuboko kwe akakurambura cyane akagukoza ku kirenge cye kugira ngo imitsi irambuke.

Ikimera kiri mu bwoko bw'ibiti bigufi gifite amababi menshi kandi maremare asongosongoye. Ku mpera, ku mpande hagiye hariho utuntu dukatakase.

Ikimera kiri mu bwoko bw'ibiti gifite utubabi twinshi dusongosongoye kandi tureture tugiye dukataguye ku mpande gake gake.

Uducupa dutatu, dufite ibara ry'umweru, dufunitse neza. Turimo imwe mu miti yifashishwa, mu kuvura ubuzima bw'abantu, muri rusange.

Igiti kimeze neza bita umuravumba, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara nyinshi zitandukanye z'umubiri, harimo iz'ubuhumekero n'izindi nyinshi.

Urubuto rw'ipapayi rukasemo ibice bibiri bihekeranye, inyuma hariho igishishwa gisa icyatsi mu imbere risa ibara ry'umutuku.

Umutegarugori wikenyeye igitenge, ukuboko kw'iburyo gufashe akarabyo kari ku cyatsi gafite ibara ryenda gusa umutuku n'umweru, kifashishwa mu kuzana ubwiza.

Agasekuru gatoya ndetse n'agahini bibumbye neza, bishyirwamo ibyatsi bakabihondahonda kugira ngo babikuremo ifu cyangwa amazi bikorwemo imiti gakondo ikiza abantu.

Ubwoko bwi'cyatsi kigufiya kiri mu butaka bumeze neza, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura ubuzima bw'abantu.

Uducupa dusa kandi tumeze kimwe duteretse mu bubiko bwabugenewe, aho hategerejwe abaguzi ngo baze batugure bakoreshe ibirimo imbere nk'umuti.

Agacupa gafite ibara ry'umutuku, inyuma yaho hariho igipapuro kigaragaza ibiri muri ako gacupa, aho hariho inyanya n'igikakarubamba bikaba byaba nk'umuti uvura indwara.

Akajerekani gafite ibara ry'umweru gafunze neza n'umufuniko usa ubururu handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, kakaba kifitemo umuti uvura indwara zitandukanye.

Umuti ufite intungamubiri zose zo mu buryo butandukanye n'imyunyungugu yifashishwa mu byo kurya no kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, ukaba ukorwa mu mbuto zimwe na zimwe zo mu ishyamba.

Intoki zisa nk'izumuntu ukuze ufite agapapuro mu ntoki, kariho agafu kenda kugira ibara nk'iryikigina bishoboka ko waba ari umuti gakondo.

Ishyamba rya kimeza rigizwe n'ibiti birebire n'ibindi biti bigufi, akaba ari ho hakurwa imiti yifashishwa mu kuvura abantu, ikozwe mu buryo gakondo.

Ipapayi rikasemo ibice bibiri, aho kimwe kigaragara ku ruhande rw'iburyo mo imbere hasa umutuku, harimo n'utubuto dusa umukara tumeze neza, rikaba ritanga intungamubiri zitandukanye.

Amacupa menshi ari mu cyumba cyabugenewe agurishirizwamo, imbere yaho hari umugore w'umucuruzi uri kuyagurisha, hari n'umugabo waje kubaza ibiciro ngo arebe ko yayagura.

Utwatsi tugufi dukusanyirijwe hamwe, turi ku kintu cy'ikiziga gifite ishusho nk'iy'igiti, twifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura ubuzima bw'abantu.

Uducupa twinshi, harimo udusa umweru, dufunze neza, ndetse harimo n'utujerekani kamwe gasa umweru, akandi umuhondo, turimo imiti, ivura indwara umuntu agira mu buzima.

Igiti gakondo gisa n'umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara z'umubiri zitandukanye harimo izifata imyanya y'ubuhumekero nko gukorora kuribwa mu nda n'ibindi.

Itsinda ry'biribwa ririmo inanasi, imineke, n'ibindi bipfunyitswe mu buryo bwiza kandi bugezweho kugira ngo butangirika bigirira umubiri w'umuntu umumaro.

Agacupa gakozwe mu kirahure gapfundikijwe n'umufuniko usa umweru, karimo amatembabuzi yifashishwa mu kwita udukoko dutoya turi mu ntoki z'abantu dushobora guteza indwara.

Amatsinda agera kuri ane, arimo ibintu byo mu buryo butandukanye, aho muri A harimo ikimera cy'icyatsi, muri B harimo igiti kikiri gitoya, mu muri C, harimo ubunyobwa butarapfundurwa, muri D, harimo ibitoki.

Ikimera kirekire gikura kirandaranda kiri mu bwoko bw'ibiti gifite utubabi tw'icyatsi kandi dutoya tugifasha mu gukora ibiryo gikeneye no gufata amazi.

Umurima urimo ibihingwa bitoya ariko bihinze ku murongo, hari bimwe mu binyabiziga byifashishwa mu gutunganya imirima ndetse na bamwe mu bakozi babikoresha bari baje kureba uko bikora.

Igiti bita umuravumba, gifite amababi asa neza cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo iz'ubuhumekero n'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi nyinshi.

Pipinyeri irimo ibiti bikiri bitoya by'imiravumba ndetse harimo n'abari kuyikorera, bayitunganya kugira ngo bikure neza bazabitere ahandi.

Tungurusumu nyinshi zarundanyijwe hamwe zikorwamo imiti gakondo, ivura abantu indwara nyinshi zitandukanye mu buzima bwabo, kugira ngo barusheho kumererwa neza.

Utujerekani twinshi, harimo udusa umweru ndetse n'akandi kamwe gasa umuhondo, hirya hari uducupa dupfundikiye neza hari n'ishusho y'igikakarubamba, bigaragaza ko ari umuti gakondo uvura indwara.

Uducupa tubiri kamwe gafite ibara ry'umweru, akandi gafite ibara ry'umuhondo, ariko kuri twose twombi turiho ishusho y'igikakarubamba, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Umunsi w'imiti gakondo, ibarizwa mu bihugu bituwe n'abirabura, wabaye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri, bizihiza ibyiza n'ibyo bamaze kugeraho mu buvuzi.

Agatanda kubakishijwe n'ibyuma, hejuru hateretseho utudobo tugera kuri dutatu, dusa umutuku, mo imbere harimo ibitaka hanateyemo ibimera, bisa neza.

Uducupa dufunze neza turimo imiti ivura ubuzima bw'abantu aho harimo udusa icyatsi utundi ubururu ndetse n'utw'umukara wererutse.

Tangawizi yifashishwa mu cyayi abantu banywa mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse ivamo umuti uvura indwara zitandukanye harimo inkorora ndetse n'izindi nyinshi.

Ibice by'umuntu bifite ikibazo harimo mu ijosi, mu mugongo hagati ndetse no ku nkokora, no ku ivi aho amagufwa ahurira ndetse ku ruhande hari n'uducupa turimo imiti yavura izo ndwara.

Igiti gifite amababi asa neza asongosongoye, kifashishwa mu gukora imwe mu miti gakondo ivura abantu indwara bafite zo mu buryo butandukanye.

Uducupa dufunze neza ndetse hirya n'utubido turimo imwe mu miti, ivura zimwe mu ndwara z'imitsi zifata urutigongo, mu ijosi ndetse n'ahandi ku mubiri.

Agacupa k'umweru gafunze neza; inyuma y'ako gacupa hariho igipapuro cy'ikirango kigaragaza ibiri imbere muri ako gacupa; n'uburyo bishobora gukoreshwa neza kugira ngo bitagira uko byangiza ubuzima bw'umuntu.

Itsinda ryabantu bahagaze hasi mu kibaya hafi hari imanga, amazi ari kumanukaho agwa hasi afite umuvuduko mwinshi ku buryo biryoheye kubireba bikanakurura abakerarugendo.

Ibimera bigufiya, bigiye bifite uturabyo aho hari ibifite udusa umutuku, utundi dusa ibara ry'umuhondo ndetse n'ibindi bifite utubara tw'umweru.

Umuti ukozwe mu bimera wifashisha ku kwita ku ubuzima bw'umuntu, ukaba upfunyitswe mu dukoresho twiza, twabugenewe kandi ugakorwa mu buryo gakondo.

Umuti umeze nk'ifu uri mu kantu k'umweru gafunze neza, ukorwa mu buryo bwa gakondo ukurwa mu byatsi byibimera. Ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Umurima urimo igiti kiri mu bwoko bw'umuravumba, amababi yacyo akaba akurwamo umuti gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi umuntu ahura nazo mu buzima bwe.

Ibinini bifite ibara ry'icyatsi, byinshi, biri mu bubiko bwabyo, bikorwa mu buryo gakondo, hifashishijwe ibimera bitandukanye.

Umuntu wambaye umwenda w'umweru, aho ari kutwereka ibinini bifunze neza, ndetse n'agakarito kabugenewe bibikwamo kugira ngo bitangirika.

Agacupa gasa umweru gafunze neza, inyuma yaho hazengurukijweho agapapuro kanditseho amagambo ari mu cyongereza n'ishusho y'uruyuki ruri guhovwa ku giti.

Agacupa gafunze neza gasa umweru, inyuma yaho hariho igipapuro kikazengurutse cyanditseho amagambo yo mu cyongereza agaragaza ibirimo imbere ndetse n'akamaro kako.

Itsinda ry'udutebo twari turimo imwe mu miti gakondo, ishobora kukwifashisha kuvura ubuzima bw'umuntu no kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima bwiza.

Imineke, inanasi ndetse n'indabyo zisa umuhondo n'udukarito twinshi turimo amatembabuzi akorwa muri izo mbuto maze kurondora, yifashishwa mu gutuma ubuzima bw'umuntu bumera neza.

Ikirahure giteretse ku meza, kirimo ibyatsi bitandukanye, ndetse n'uturarabyo tw'umweru, iruhande hari ibindi bisa n'imyuko, bifite utunini dupfunyitse neza, hirya hari uducupa dufunze neza.

Bimwe mubimera byifashishwa mugukora imiti gakondo aho harimo ibyatsi bidafite amababi harimo n'ibindi biyafite ndetse n'utubuto dutoduto twifashishwa.

Akabido k'umweru karimo umuti uvura indwara z'abantu bagira mu buzima kandikishijweho amagambo y'umutuku, gafunikishijwe n'umufuniko w'umutuku.

Agacupa karimo ifu yifashishwa nk'umuti ukorwa mu giti cy'umuravumba, uvura indwara nyinshi zitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Imbuto abantu barya zikavamo intungamubiri ari zo bita amaronji, aho hari ayatukuye ayandi agifite ibara ry'icyatsi bigaragara ko yeze neza.

Imiti gakondo ishyirwa mu mafunguro yifashishwa mu kugira ngo ivure indwara nyinshi zo mu buryo butandukanye no kugira ngo abayikoresha barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'igiti gikura kirandaranda hasi, kigira amababi meza asa icyatsi ndetse n'uturabyo twenda gusa umutuku mu imbere dusa umuhondo.

Agasekuru ndetse n'agahini bitoya ku mpande zaho hakikijwe n'ibimera, biri mu bwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ivura indwara zitandukanye.

Umugore uri gusoroma utubabi tw'igiti kugira ngo adukoremo imwe mu miti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara z'abantu zitandukanye.

Agacupa karimo umuti gakondo ukorwa mu bimera, uvura indwara nyinshi zinyuranye harimo: kurangiza vuba, gucika intege, ndetse n'ingaruka zo kwikinisha n'ibindi byinshi.